Umwana w'umukobwa wambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi, afite umusatsi mukeya, bari kumutera urushinge, umutera urushige yambaye uturindantoki tw'umweru n'ishati ya karokaro irimo amabara y'ubururu n'umweru, yambaye itaburiya y'umweru.

Abantu bicaye mucyumba gifite inkuta zisize amarangi yubururu, hari babiri bicaye imbere y'ameza uwo kuruhande wambaye ikoti ry'umukara n'agapfukamunwa k'ubururu imbere hari mudasobwa yegeranye n'uwambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu ufite impapuro imbere yabo imbere y'ameza hari umugore uhagaze wambaye ikote ry'umukara n'ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umweru, n'umukara, n'agapfukamunwa k'ubururu imbere hari umwana wambaye ikanzu irimo amabara menshi.

Umugore ufite amaherena maremare atendera ku matwi wambaye itaburiya y'umweruamaboko maremare n'ishati y'gitenge amaboko maremare irinda ku itaburiya afite umusatsi urimo amabara abiri shokora n'umukara yafashe umwana ku matama ari kumwasamura umwana afashe yambaye umupira w'amaboko maremare y'umweru umugore umuteruye yambaye igitenge kirimo amabara menshi yicaye ku ntebe.

Ku muhanda iruhande rw'amazu hari umugezi uteretseho amajerekani, amabasa n'indobo, ufite uruhombo rw'icyuma, impande yaho hari abantu benshi biganjemo abana n'umugore mukuru wipfutse igitenge mu mutwe ufite umwana. Impande ye wambaye ishati y'amaboko magufi ukenyeye igitenge kirimo amabara menshi.

Umugabo wicaye ku ntebe, wambaye ishati y'amaboko maremare ya karokaro irimo amabara y'umukara n'umweru, afashe ku kuboko k'umwana uteruwe n'umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe. Umwana yambaye ikanzu y'amaboko magufi y'icyatsi. Imbere yabo hari umugabo wambaye hejuru itaburiya y'umweru wicaye, imbere ye ku meza hari impapuro nyinshi. Afite ikaramu mu ntoki.

Umuntu uri ku mugezi avoma yambaye imyenda y'ubururu n'umweru, impande ze hari abana n'amajekani mato, n'utujerekani duto. Ku ruhande rw'iburyo hari umwana wambaye inkweto zifunguye, yambaye ikabutura irimo amabara y'umutuku, umwetu n'umukara, yambaye n'agapira k'amaboko magufi. Kuruhande rw'ibumoso hari abana bambaye amakabutura n'imipira b'abirabura.

Abantu bane bakikije ameza, batatu ni abagabo umwe ni umugore; batatu kandi barahagaze undi aricaye. Uwicaye afite impapuro mu ntoki yambaye itaburiye y'umweru, impapuro afite ari kuzirambura. Impande ye hari umugabo ufite urupapuro mu ntoki, imbere ye hari mudasobwa yambaye agapfukamunwa k'ubururu. Imbere ye hari umusore wambaye umupira w'amaboko magufi n'ijire y'ubururu, n'umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ingofero. Inyuma ye hari intebe z'ubururu; umusaza wambaye ingofero y'umukara n'agapfukamunwa yegereye inkingi zitatse ibitambaro.

Umwana usutamye ari guseka, yambaye ikanzu irimo amabara menshi, harimo ubwiganze bw'amabara y'umutuku, ateze ibiganza ku mazi ari guturuka ku ruhombo rw'icyuma, ruhese, impande y'urwo rubombo ahateretse amabuni harimo amagufi n' maremare yo mu mabara atandukanye.

Abagabo babiri bicaye imbere y'ameza arambuyeho igitambaro cy'umuhondo, ku meza imbere yabo hateretse amacupa atatu y'amazi, imbere yabo harambuye ibitabo, uwo ku ruhande rw'iburyo afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma y'aho bicaye habambye igipapuro cyanditseho ngo minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Sudani y'Epfo

Abana babiri basutamye bateze ibiganza mu mazi ava mu ruhumbo ruto ruturuka mu runini, umwe mu ruhande rw'iburyo yambaye umupira w'amaboko magufi n'ikabutura, undi yambaye ipantaro n'ishati y'amaboko maremare ari guseka, bateze ibiganza bombi. Uwambaye ipantaro yambaye inkweto z'umukara zirimo amabara y'icyatsi.

Mu gisharagati gishinze hejuru y'ubwatsi, hahagaze abana bambaye amakanzu y'ubururu n'amashati y'amaboko magufi y'umweru, inyuma yabo hari umugore wambaye itaburiya y'amoboko maremare n'umweru, impande ye hari uwambaye ijire y'icyatsi nanone yegeranye n'uwambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru, imbere yabo hari abagore bakuze n'abagabo babiri bari kwitegereza ibyo abo bana bakora.

Abana bane bararamye bareba hejuru baseka bateze ibiganza hejuru y'akabase gato inyuma yabo kuruhande hari umugabo wambaye bote z'umukara ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufi w'ubururu afite mu ntoki agakombe karimo amazi ari gusuka ku ntoki za ba bana.

Umugore ukenyeye igitenge kirimo ubururu bwijimye wambaye ishati y'amabara menshi yikoreye ibuni, yiteze igitenge mu mutwe, yikoreje ingata nanone y'igitenge, impande ye hari umwana wambaye ishati y'ubururu, hepfo hari uwambaye ishati ya kake, imbere ye hari inzu isakaje amabati atukura.

Inzu isakaje amabati y'ubururu. Hejuru hari imirasire ibiri. Imbere yayo isize irangi ry'ubururu. Imbere y'urubaraza hejuru hari icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima. Imbere yaho mu busitani hicaye abantu bateganye, bamwe bafite impapuro barikwandika. Muri abo bateganye harimo umuntu wambaye impuzankano y'abadaso.

Abagore batanu bahagaze imbere y'amajerekani ari kumurongo imbere y'amajerekani hari imigezi izana amazi impande yiyo migezi hahagaze umugore umwe wambaye umupira w'amaboko magufi w'umukara n'imbere harimo uw'amoboko maremare w'umweru yambaye ijipo ifite ibara ry'ivu impande ye hari abagore barangaye bareba kuruhande.

Abana b'abirabura bahagaze bazamuye ukuboko k'urumuri rwinshi, bambaye impuzankano y'amashati y'umuhondo y'amaboko magufi n'amakabutura y'imikara. Inyuma yabo ku ruhande rw'ibumoso hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo. Hagati inyuma yabo hahagaze abazungu babiri n'abirabura batatu.

Umushinga wita ku burenganzira bw'umwana ndetse n'imibereho y'abana, bubatse umugezi ahantu mu cyaro, abaturage baza kuwuvomaho bakoresheje indobo. Iyo bamaze kuvoma, bacyura amazi bakajya kuyakoresha mu ngo zabo.

Abana babiri bari ku kumugezi w'imbere bambaye agapi y'amabokoko magufi karimo imirongo y'icyatsi n'umweru, afashe hejuru ku mugezi aho bafungurira ari kuvomera amazi mu ndobo afite indaba ebyiri; imwe nari rimwe kuvomera'tare kuyivomera uw'inyuma yambaye umupira w'ubururu afite na indobo ari kureba imbere abana bose babumbuye akanwa inyuma yabo hari ibiti.

Inzu ndende bigaragara ko atari muri Afurika, imeze neza iri ahantu hari ibicu byanduye bigaragarako ari hafi y'inganda, iyo nzu ifite igisenge ndetse n'amadirishya bigaragarako mu kubakwa yitaweho, nyamara iragaragara nk'aho ishaje.

Imbere y'umugezi hari umwana ufite ibido ari kuvoma, impande ye hari umugore uri kuvoma ku wundi mugezi biri kumwe impande ye wunamye areba ko ibida ye yuzuye, imigezi ifashe mu kantu k'akazu, inyuma ya wa mugore hari abantu bitwikiye imitaka, inyuma yabo hari abana bari kureba uko biri kugenda.

Ni abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe, ku murongo w'imbere, iruhande rw'ibumoso, hari umugore wambaye ibitenge, yifashe neza, yambaye amadarubindi, ku mpande ye hari akameza gateretseho amacupa abiri y'amazi, yegeranye n'umugabo ufite impapuro mu ntoki, wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, yegeranye impande ye n'undi, ku ruhande rw'iburyo, wambaye inkweto z'igitaka, inyuma y'abo ni abantu benshi bambaye imyenda itandukanye harimo n'abazungu ku ruhande rw'ibumoso.

Ikirango mu ibara ry'ubururu cyanditsemo amagambo mu nyuguti z'umweru nini ngo "agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku burenganzira bw'umwana", imbere y'ayo magambo hari ikirango kirimo umwana uri kureba umuntu hasi, munsi yaho haciye umurongo, munsi w'umurongo haranditse ngo "kuri buri mwana".

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara bategereje ishati y'amaboko magufi irimo amabara y'umweru areba imbere ye aseka, afashe n'amaboko yombi ku ibuni ifite ibara ry'umuhondo ari umugezi wubakiye, inyuma ye hari ibyatsi byinshi biri imbere y'amazu menshi akurikiranye ku murongo.

Imbere y'inzu iri imbere y'ibendera ry'u Rwanda, ifite irangi ry'umweru hejuru ugana ku gisenge, hasi yubakishije amabuye, ifite inzugi zisize irangi ry'ubururu, hateranira abantu benshi biganjemo abagore, bari impande y'igishararagati cy cy'umweru.

Abantu bateraniye hamwe imbere yabo hari abantu batandatu; batanu b'abagabo n'uyu w'umugore, inyuma yabo bicaye imbere hari icyapa kiriho amafoto atandatu mu mpande ya buri foto handitseho amagambo .Muri ba bandi bicaye abagabo bose bambaye amapantaro y'umukara.

Umwana ufite udusuko bita udututa, ari gukaraba mu ibase ariko iteretse munsi y'umugezi uri kuvamo amazi aturuka mu ruhombo rw'icyuma, ayo mazi biragaragara ko ari ayo ku mugezi w'icyuma bagenda bazamuka bamanura kugira ngo amazi aze.

Abantu batanu bari mucyumba kimwe babiri n'abagore batatu ni abagabo bose kuri buri meza hariho amacupa y'amazi .Umugabo umwe niwe ubayoboye babiri babiri bari kurebana, impande y'aho biri gukorera inama idirishya rirafunguye bituma mu cyumba barimo hazamo urumuri rwinshi buri wese afite ikaramu n'ikayi ari kwandikaho.

Abana batandatu bahagararanye bane ni abakobwa babiri n'abahungu, abakobwa bambaye amajipo arimo ibara ry'ivu, naho abahungu bambaye amakabutura y'umukara. Bose bambaye imipikara y'imikara hejuru bari kunywesha amazi udukombe impande yabo hari ibigega bibiri, bo bari kuvoma amazi ku kigega cy'umukara kibegereye gito, inyuma y'ikigega hari amazu yubakishije amabati n'urugo rwubakishije amabati.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'ibyapa bitatu, icyapa cy'ibumoso kiriho abana bane hejuru handitseho ngo agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima ku isi, ku ruhande rw'iburyo hariho umubyeyi uteruye umwana hejuru hariho ikirango cy'agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima.

Abantu cumi na bane bahagaze imbere y'icyapa kinini abenshi muri bo bambaye imipi y'amaboko magufi y'umweru, inyuma y'aho bahagaze hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu cyanditseho amagambo yanditse mu nyuguti z'umuhondo ngo hehe n'igwingira twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Umugabo wambaye ijiri y'umukara yanditse mu umugongo ngo agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru ndetse n'amataratara imbere ku meza hari amapaki ari mu mabara atandukanye kurundi ruhande hari umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi y'icyatsi n'isaha y'umweru ku kuboko.

Abana bicaye mu ishuri, abakobwa bambaye amashati y'amaboko magufi y'ubururu, abahungu bambaye amashati y'amaboko magufi ya kake, inyuma hari umwana wambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu imbere urimo umurongo w'umweru, imbere ya buri mwana hari isahani iriho ibiryo y'ibishyimbo na kawunga, inyuma yabo hari ikibaho cyandikishijeho ingwa.

Impande y'uruziga rurimo umugore wambaye ikanzu y'amaboko magufi, ufite umusatsi umanuka inyuma mu mugongo ugarukiye mu irugu. Hasi ye handitse amazina ngo Katherine Kaite. Hari amagambo ngo: '' Tugomba gusohoka hanze y'aho turi, tukajya gushaka abandi bafatanyabikorwa bari hanze, bakadufasha gutuma ibintu bigenda neza bityo urwego rw'ubuzima rukabasha kugerwaho na buri muntu wese urukeneye.

Umusore wambaye amataratara afite umusatsi muke wambaye umupira wamaboko magufi w'umuhondo ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara uhagaze kumukeka afashe umwana wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'ubururu uhagaze ku munzani hasi hari terefone icometseho umugozi.

Umwana w'umukobwa wambaye isengeri ari kumwe n'undi wambaye ikanzu idafite amaboko, apfukamye ku ibuye afatishije ukuboko kwe kw'imosoko ku ibuni iri mu kidendezi cy'amazi. Naho ukuboko kwe kw'indyo gufashe ku kabuni ka wa mwana muto bari kumwe. Na nyuma yaho basutamye hari ibyatsi.

ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo mu nyugute nde z'umweru ngo unicefu ivuga agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku burenganzira bw'umwana, hasi hacira umurongo munsi yaho haranditse ngo kuri buri mwana, imbere ya unicefu hari ikirango kirimo umugore uteruye umwana amurebesha hejuru bari mu ruziga munsi yabo hari amababi abiri asobekeranye y'ingano.

Umugezi ukikijwe n'abana bane, umwe muri bo afashe icyuma cy'umugezi asa n'ukimanura hasi, abandi babiri barashungeye basa n'abareba uko biri kugenda, undi ahagaze ku ruhande afite inkoni yambaye boti z'umukara, ikabutura y'ubururu n'umupira w'amaboko magufi w'umutuku, inyuma yabo hakikijwe n'agacaca.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'imishumi n'ishati y'amaboko magufi ya karokaro, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe itetseho indobo y'icyatsi n'ibasi y'icyatsi, inyuma ye hari amazu yubakishije amatafari ya nkuyo, hasi hafi y'aho akandagiye, hari amatafari ya rukarakara.

Imbere y'inzu isize amarangi y'umuhondo yanditseho ngo ikigonderabuzima cya Mayange hahagaze abantu bambaye amataburiya y'ubururu afite amaboko magufi kandi afite imifuka imbere. Bamwe barigubakoma amashyi abandi bahanitse amaboko. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru n'amataratara.

abantu bane bicaye ku ntebe za rububuta inyuma y'ibikuta birebire byubakishije amatafari ya mpunyu hejuru yabo habambye ibipapuro biriho amafoto y'abantu byanditseho n'amagambo kuruhande rw'iburyo hicaye uwambaye umupira wumutuku w'amaboko maremare n'ingofero naho iburyo hicaye umugore wambaye umwenda w'ubururu witeze n'igitambaro cy'ubururu mu mutwe

Ku kagezi gatembamo amazi macye, hari umukobwa wambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro y'umukara imwegereye n'agapira k'amaboko mugufi k' icyatsi, warengeje ukuboko mu mugongo ukundi gufashe indobo, ari kuvoma amazi muri ka kagezi yashyizeho ikivovo, amazi kugira ngo ajye mu ndobo afite, hakurya yaho hari umwana wicaye wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko maremare yahinnye akageza hejuru y'inkokora n'inkweto zifunguye z'icyatsi.

Umugabo w'umwirabura wambaye ipantaro n'ikote by'umukara n'ishati y'umweru imbere n'amataratara, ari kumwe n'umugore wambaye ipantaro n'umupira w'amaboko magufi w'umweru uri guseka, bafashe mu ntoki agakapa kanditseho ngo "sura u Rwanda".

Umwana usutamye areba hirya ari guseka yambaye ikanzu irimo amabara menshi, imbere ye ateze ibiganza ku mazi ari kuva mu ruhombo rw'icyuma, impande y'urwo rubombo hateretse amabuni atatu, abiri manini harimo iy'ubururu n'indi y'umuhondo n'akandi gatoya.

Abantu bane bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umukara kimanutse hasi, babiri ni abagore, abandi babiri ni n'abagabo. Ku ruhande rw'iburyo hari umugabo ufite mudasobwa imbere ye, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara, afite icupa ry'amazi imbere ye, akurikiwe n'umugore wambaye umwenda w'umukara hejuru, imbere ye hari amazi n'impapuro, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'imisatsi miremire imananutse impande y'amatwi.

Hagati y'ibiti hakurya no hakuno, hahagaze abantu benshi bambaye amatabuja y'ubururu afite amaboko magufi afite imifuka ibiri minini, imbere hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara n'amataratara ku ruhande, hahagaze umugabo wambaye ikaburiya y'amaboko maremare y'umweru ifite indumane.

Ku zuba ryinshi umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'umweru irimo amabara y'umukara n'inkweto z'umukara zifite imishumi y'umutuku ari koza indobo afite mu ntoki, ari impande y'umugezi ufite uruhombo rw'icyuma imbere ye hari indobo ebyiri, inyuma ye hari ibiti birebire n'ibindi biti bifite amababi y'umuhondo.

Ikiganza cy'umuntu wambaye ikoti ry'amaboko maremare yiteze ku mazi ava mu ruhombo rw'icyuma rumena amazi muyandi atemba. Munsi y'urwo ruhombo hariyo amabuye impande yayo mabuye harimo amazi menshi atemba inyuma yaho hari ibyatsi n'andi mabuye.

imbere y'inyubako bigaragara ko ari ikigo nderabuzima, hari abantu bahahagaze mu ibaraza ry'iyo nzu isizemo irange ry'ubururu hejuru n'iry'icyatsi mo imbere, ubona ko ari ahantu heza umuntu iyo aje kwivuza abona ubuvuzi.

Impande y'umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibipesu by'umweru, hari umunzani hanitseho agakoresho kifashishwa hapimwa ibiro by'umwana, impande y'umuzani hari abagore bicaye bateruye abana, inyuma yabo hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ya move, inyuma ye muri iyo nzu barimo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Umwana wambaye ikanzu y'umutuku irimo uturongo dutambitse tw'umweru, afashe ku mugore ukenyeye igitenge yagisobekeranyije mu ijosi, ateruye indobo y'umweru. Impande yabo hari umugezi usize irangi ry'ubururu. Hepfo y'uwo mugezi hari umugore uri gukarabya umwana mu ibase amwambitse ubusa. Umugore we yambaye agapira k'umutuku kadafite amaboko, n'igitenge kirimo amaba y'ubwiganze bw'icyatsi. Impande y'uwo mugore ku iriba, hari umwana wambaye umupira w'ubururu uteruye indobo ari kuvomeramo.

Abana batandatu abahungu batanu n'umukobwa umwe bari ku mugezi, batatu bari gukaraba intoki abandi bari kuvoma, bose bambaye impuzankano z'amashati asa n'amajipo asa bya kake, inyuma yaho bari hari ibiti birimo igihuru, naho inyuma y'icyo gihuru hari inzu isakaje amabati y'umweru.

Ku zuba ryinshi umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantalo y'umukara n'ishati y'ubururu y'amaboko maremare watebeje ari kureba ku ruhande aseka akaraba yifashishije akabuni kari ku biti bibiri bishinze bitambitseho ikindi hejuru, hakaba hahambiyeho umugozi utuma akandagiraho akabasha gukaraba.

Umugore wambaye imyenda irimo ubwiganze bw'amabara y'umutuku n'umuhondo, ateruye umwana wambaye amasogisi y'umweru, ikabutura ya kacye n'ishati y'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye itaburiya y'amaboko magufi y'ubururu, imbere harimo umupira w'amaboko maremare w'umweru, imbere yabo hagati harimo umunzani, hirya ku ruhande hari umugore wicaye wambaye ikanzu y'umutuku, uteruye umwana.

Impande y'umugezi uzengurutswe n'uruziga uteretsemo ibase y' icyuma, imbere yayo hahagaze umwana ufite ubu buni bubiri wambaye umupira w' amaboko maremare ufite ingofero inyuma. Kumugezi hari undi mwana ufashe icyuma ukimanura hasi, yambaye umupira w' amaboko magufi w'umweru impande ye hari umugore wambaye umupira w' amaboko magufi y'umutuku ukenyeye igitenge, nawe wegeranye n' undi mwana wambaye ikabutura y' umutuku n' umupira w' amaboko magufi ufite aka buni mu mugongo.

Umwana wunamye wambaye umwenda w'ubururu hasi hejuru yambaye umupira w'umutuku wa amoboko magufi, ateze igikombe ku mazi aturuka ku ruhombo ruva mu gikuta ari guseka, ni impombo ebyiri ateze ku ruhombo rumwe.

Imbere y'abantu bahagaze benshi biganjemo abana, hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro yacitse ku mavi n'ingofero, ufite mikoro mu ntoki. Imbere ye hari umugore upfukamye, wubitse umutwe, uziritse amaboko, ukenyeye igitenge.

Umugabo ukuze, wambaye umupira uriho amagambo avuga Ikigo cy'Igihugu cyita ku Buzima mu Rwanda, bari kumuteraru urushinge yambaye agapfukamunwa, ari kuruterwa n'undi muntu wambaye impuzankano y'abaganga na we wambaye agapfukamunwa ufite imisatsi. Ni umugore, iruhande rwe hari abandi bantu.

Abantu barindwi barimo abahungu bane n'abakobwa batatu bahagaze mu kintu cya mpande ebyiri ebyiri zingana, igice cyo hejuru hagaragaramo muri icyo kintu hagati ahasatuye imitwe kugeza mu gituza, naho hasi yaho ntaharimo ahagana hasi handitse amagambo no inisefu naho kuri icyo kintu kikaba gifite amabara abiri umweru n'ubururu.

Icyumba gifita inkuta zisize amarange y'umuhondo, gifite parafo y'umweru, harimo abagore bari kubyina imbere hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufi w'umukara, n'ijipo y'igitenge, iruhande rwe hari uwambaye ikanzu y'umutuku n'umupira wamaboko magufi w'icyatsi yegeranye nuwambaye umupira wamaboko maremare wayazamuye munkokora. Icyo cyumba aho ngaho bari inyuma yabo hari intebe, abandi bantu bari kumwe nabo babagore nabo bari inyuma bari gukoma amashyi bo ntibari kubyina.

Umwana w'umukobwa wambaye ijipo n'ishati by'ibara ry'umutuku bivanzemo andi mabara yiganjemo kake, ari gukaraba ku mazi ari kuva mu ruhombo rw'icyuma, amazi ari gukaraba agatemba ajya mu basi y'ibara ry'umukara.

Mu cyumba kirimo urumuri rwinshi hakurya no hakuno hicaye abantu ku ntebe za ruhubuta mu cyumba kirimo ibikuta bisize amarangi y'umweru n'idirishya ririmo ibirahure hagati yabo hari umugabo wambaye itabiriya y'umweru y'amaboko maremare ipantaro ya kake n'inkweto z'umweru ateze amaboko.

Impande y'umugezi uri rwagati mu ruziga rwaciwe kugira ngo amazi awuvamo ataharega. Umwana wambaye ipantaro y'ikoboyi ihinnye n'ishati idafite amaboko y'umutuku ari kuvoma, inyuma y'umugezi hari umugore ufashe icyuma amanura hasi yambaye umupira w'umutuku yiteze n'igitambaro. Impande ye hari abantu benshi biganjemo abagore n'abana.

Mu cyumba kirimo urumuri rwinshi, abantu bicaye imbere y'ameza ateretseho amacupa y'amazi bafite ikaramu n'ikaye bari kwandikaho, imbere yabo hari udupapuro twanditseho amazina yabo, inyuma hari igikuta kiriho amadirishya ari gutuma muri iyo nzu hinjiramo urumuri.

Umuntu wambaye umwenda w'amaboko maremare wo mu ibara ry'ubururu, ateze ibiganza mazi y'urubogobogo, ari guturuka mu ruhombo ruri mu gikuta. Amazi ari kumuca mu biganza, ari kumanuka akagwa munsi y'aho ateze ibiganza, ahateganyijwe.

Abantu umunani bicaye bazengurutse ameza ari mu cyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru. Buri muntu yicaye mu ntebe y'icyatsi, kandi imbere ya buri muntu hateretse agakombe kari ku gasahani. Hagati yabo hateretse ku meza igikoresho kifashishwa mu gusakaza amashusho kizwi mu ndimi z'amahanga nka projecteur.

Ku mugezi hari abantu babiri bari kuvoma umugabo n'umugore, umugore yiteze igitambaro mu mutwe, yambaye umupira w'amaboko maremare, umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare, bose bari kuvoma bafashe amajerekani yabo inyuma y'umugezi hari amashyamba.

Umwana wambaye ipantaro ihinye kugeza munsi y'amavi, n'ishati y'amaboko magufi, ari kuvoma ku mugezi, afashe mu kiganza cye cy'iburyo ibuni, naho ukundi kuboko kw'ibumoso gushashe ku mugezi, imbere y'amaguru ye hari amabuni abiri, naho inyuma y'umugezi hari insina z'ibitoki.

Hagati, imbere y'umugezi, ahantu bigaragara ko ari mu cyaro, hasutamye umukobwa uri gufura imyenda, wateretse ibuni mu mabase, inyuma ye hanitse imyenda arangije gufura, imbere y'uwo mugezi, hari igipapayi cya Kinyarwanda, gishobora kwifashishwa mu buvuzi.

Abantu mirongo itatu na babiri, bahagaze bamwe hasi abandi hejuru ku badaraza bakikijwe n'amadarape abiri iry'u Rwanda n'iry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Muri bo harimo abazungu harimo n'abirabura. Abagabo ndetse n'abagore, bose bahagaze hamwe.

Abahungu babiri b'arabura bari kuganira umwe yambaye umupira w'ubururu w'amamoboko magufi ahetse agakapu k'imishumi k'umutuku, ukuboko kw'iburyo yambayeho igikomo cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru. Mugenzi we bari kuganira yambaye ishati y'amaboko magufi afite umusatsi uringaniye n'ubwanwa buke ahetse igikapu kiri mu ibara ry'ivu.

Ibirango by'imiryango mpuzamahanga byiganjemo ibirango by'Udushami tw'umuryango w'abibumbye. Harimo nk'ikirango cy'Agashami k'Umuryango w'Abibumbye gashinzwe kwita ku bana, ikirango cy'Agaciro k'Umuryango w'Abibumbye gashinzwe kwita ku buzima, ikirango cy'Agashami k'Umuryango w'Abibumbye gashinzwe kwita ku mpunzi n'ibindi.

Imbere y'umugezi ku gasima hatetse amabuni menshi imbere y'ayo mabuni kuri robine hari umugore wambaye ijipo umupira w'amaboko mato w'umukara n'undi wamoko maremare, imbere impande y'aya majerekani hari abagore bane harimo umwe ufite ijerekani.

Mu byaro leta cyangwa imiryango itegamiye kuri leta, bagerageza gutuma abaturage bo mu byaro babona amazi meza, bubakira imigezi rusange, aho umuntu ashobora kuza kuvomaho agatanga igiceri cyangwa akanavoma ntagire icyo atanga bitewe na gahunda yateganyijwe n'abubatse iryo vomo.

Abantu bicaye imbere y'ameza ateganye, kuri buri meza hateretseho amacupa y'amazi, hagati y'amezi abiri harimo umwanya uteretseho indabo, inyuma ya bamwe hari amadirishya arimo ibirahure areba hanze, abandi inyuma yabo ari urugi rusize irangi ry'igitaka, hakurya hari urugi rusize irangi ry'igitaka, impande yarwo hari isakazamashusho, benshi bita televiziyo mu rurimi rw'Igifaransa.

Mu cyumba kirimo intebe y'urwegamiro iri impande y'ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ahagaze abantu inyuma yabo mu ruhande rw'bumoso hashushanyijeho abantu batatu, hejuru y'urwo rugi aranditse ngo uburyo bwiza bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Umwana wambaye ipantaro y'icyatsi, wunamye aseka areba imbere, yambaye agapira k'amaboko magufi, karimo amabara y'umukara n'umweru, ateze n'ukuboko kwe kw'iburyo ikiganza ku mazi aturuka ku mugezi ufite uruhombo rw'icyuma.

Impande y'umugezi ubona ko abaturage bawangije kuko akantu gatuma amazi aza bagakuyeho, hari umugabo ufitebuni, uri guseka areba imbere, ubona ko yishimye, yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko yari yaje gushaka amazi yo gukoresha.

Abana bambaye amashati yiganjemo umweru, bafashe igitabo mu kiganza kimwe bakizamura hejuru, inyuma y'aho bahagaze hari inzu yubakishije amatafari ya mpunyu, bahagararanye n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amabara y'umukara n'umweru y'amaboko magufi.

Ku mugezi uri rwagati mu ruziga hari umwana ufite ikibuni yambaye ipantaro ye iko yihinnye n'ishati y'umutuku idafite amaboko ari kuvoma ku mugezi ufite uruhombo rw'icyuma, inyuma y'umugezi hari umugore ufashe icyuma gifashe ku mugezi akimanura hasi yambaye umupira w'icyatsi impande ye hari abantu benshi biganjemo abagore n'abana.

Mu nzira iri hagati y'ibiti ifite amababi menshi hahagaze abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu afite imifuka imbere minini hagati muri bo hari umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro n'ikote ry'umukara n'ishati y'umweru imbere n'amataratara, kuruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye itaburiya y'amaboko maremare yumweru.

Umugabo wambaye amataratara ufite umusatsi uringaniye hejuru, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umuhondo, afite isahani mu ntoki n'ikiyiko, ari kugabururira umwana wambaye umupira w'amaboko magufi w'umuhondo, uteruwe n'umugore wambaye umupira w'umweru ufite umusatsi mwinshi.

Mu nzu iteye irangi ry'umweru irimo ameza menshi afite ishusho y'uruziga arambuyeho igitambaro cy'umweru akikijwe n'intebe ameza, amwe yicayeho abantu umunani uwashyize ameza ku ntebe avuga yegeranye n'umugore wambaye ikote ry'umweru ufite umusatsi ufite ibara rya shokora.

Abagore batanu bicaye mucyumba kimwe baganira, hakurya abagore babiri bicaye ku ntebe z'umweru inyuma yabo hari igitambaro cy'ubururu, imbere yabo hari umugore wicaye ku ntebe arihuta irambitseho ibikapu impande ye hari intebe z'umweru ebyiri hakurya ye hari umugore wicaye ku ntebe y'umweru, imande ye hari umugore wambaye itabuya roza wicaye ku ntebe itukura; ushyize ukuboko ku meza afite impapuro mu ntoki imeza ashyizeho kuboko iriho ibitabo.

Abana benshi bari hamwe bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi n'ingori zikoze mu bipapuro zanditseho amagambo bakoma amashyi, uw'imbere yabo ari guseka areba imbere undi w'imbere utambaye urugori ari kureba imbere abumbye umunwa.

Mu nzu idateye irangi ku ntebe ya ruhuhuta hicaye umugore wambaye ijipo irimo amabara menshi yiganjemo umutuku n'ubururu ahetse umwana ufite umusatsi mwinshi mu nkonsha y'umweru yambaye agapfukamunwa yashyize munsi yakanan ari guseka yambaye umupira w'amaboko magufi impande ye hahagaze umwana wambaye ikabutura n'ishati y'amaboko magufi yo mu gitenge

Abagore batatu bicaye hanze ku zuba ku ntebe z'ibiti. Inyuma yabo hari utuzu tw'ibyatsi. Uwicaye hagati muri bo yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umupira w'amaboko magufi ariko afite n'urupapuro mu ntoki. Ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufi n'agafukamuwa k'ubururu ariko kanditseho n'ingofero. Ku ruhande rwe hari uwambaye umupira urimo amabara y'umweruru w'amaboko maremare ndetse n'agapfukamunwa.

Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibifunga imbere, yunamye afashe mu mutwe afite umusatsi uzirikiye hejuru, inzara ze si ndende ariko zisizeho amabara, ahantu yicaye haramugeraho urumuri rwinshi.

Ku rupapuro rw'umweru hejuru iburyo, hari ikirango cya Polisi y'u Rwanda, naho ibumoso hari ikirango cya Leta y'u Rwanda, hagati hepfo mu magambo manini haranditse ngo ISANGE One Stop Centre. Munsi yayo magambo handitse mu yandi mato ngo cyashinzwe ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye mu Rwanda.

Isi ikwiye guhaguruka maze ikita ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Isi ifite umunsi mpuzamahanga yahariye ubuzima bwo mu mutwe, aho uba ku itariki icumi, z'ukwezi kwa cumi, buri mwaka.

Umuntu wambaye agapfukamunwa, wegeranye n'undi wambaye na we agapfukamunwa k'umweru, umwe yambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu hejuru, na ho undi yambaye igisubeti cy'ubururu cy'ikabutura. Uwambaye igisubireti harimo agapira k'amaboko maremare k'umweru.

Ku zuba ryinshi n'urumuri rwinshi, umusore wambaye ishati y'amaboko maremare ifashe ku rutugu rumwe ahandi igatemdera ku kuboko, arandaswee n'umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ifite imifuka ku mpande zombi, ufite agakoni mu ntoki, afite n'imwemwe mu gatuza, ku rundi ruhande arandaswe n'umugore wambaye umupira w'amaboko magufi.

Ku ubudaraza ujya ku nzu bukikijwe n'ibyuma bisiranye by'ubururu inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu hejuru inzu isakaje amabati y'umutuku ku gisenge ku ruhande hariho urubaho rw'ubururu inzu isize irangi rya shokora.

Umuntu ufite mu ntoki amashashi ashyize amaguru mu muyoboro ucamo amazi impande y'umuhanda, yicaye hejuru yambaye igitambaro cyanduye akizirika mu ijosi kiramanuka kigera ku maguru, afite umusatsi mwinshi kandi urimo umwanda mwinshi.

Imodoka isize amarangi y'umweru iparitse mu kibuga, ifunze ahantu hose yanditseho amagambo ngo "gutangiza ku mugaragaro ibitaro bigendanwa mu karere ka Bugesera bivura indwara zo mu mutwe," iri ahantu imbere hari umubyeyi uteruye umwana uri gutambuka. Impande y'iyo modoka hari ibyatsi, inyuma hari intebe nyinshi zigerekeranyije, zipanze hamwe.

Ahantu ubona ko hateraniye abantu benshi, harimo abambaye amakositimu n'abandi bambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano bazwi nk'Abapolisi, bari ahantu hari kuva izuba ryinshi, ubona ko bavuye mu nama runaka bakaba bateranye. Ariko uko bigaragara bari bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye hejuru imyenda irimo amabara n'imirongo y'umuhondo na move, afite imisatsi y'umukara yambaye amataratara n'imiringa ku kaboko kw'iburyo n'impeta, afite mu kiganza cy'iburyo ikirango yambaye mu ijosi acyekana imbere inyuma ye hari urugo rw'amatafari rukikije inzu isakaje amabati.

Umugabo wambaye ipantaro yumukara n'ishati yamaboko maremare y'umukara irimo amabara ya move, ufite umusatsi muke ucunze ubwanwa ari gusuhuza umugabo wambaye ikabutura yacitse n'umupira wacitse ugaragaza imbavu ufite umusatsi mwinshi utogoshe.

Abagore batatu barahagararanye bose bafite imbigo mu kuboko kw'iburyo, uri imbere ari konsa umwana amushigatiye mu rubavu, yambaye umupira w'amaboko magufi y'umutuku, inyuma ye hari uwitendeye igitambaro cy' iroza mu mutwe n'agapira k'amaboko magufi, inyuma yabo hari insina, hakurya hari ishyamba.

Imbere y'inzu yubakije amatafari ahiye ifite amadirishya y'ibyuma n'ibirahure hahagaze umugore ufite umwana wambaye umwenda w'umweru urimo umurongo useka utaramera amenyo, umugore yari kumwitegereza mu rubavu aseka yambaye hejuru umwenda w'umweru afite umusatsi mwinshi.

Umuntu wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, uri guhingukwamo n'undi w'umweru, ahinnye intoki, afite agatambaro k'ibara ry'umweru, ari kwihanagura mu maso, ariko kandi yambaye n'ingofero y'ibara ry'umukara y'ubwoya.

Abagore batatu bari mu cyumba kimwe, babiri bateruye abana, undi nta mwana afite, inyuma y'udafite umwana hari igikuta, irangi ry'umweru impande ye hari akuma gafasha mu gushyushya amazi, ageretse ukuguru ku kundi afashe ku meza ari kuganiriza uwo mu kuboko kwe kw'iburyo.

Umugore wicaye hasi ku musambai uzinze yambaye inkweto z'umukara zifite ubusho bw'umutuku, yambaye igitenge kirimo amabara menshi arimo bwiganze bw'ubururu, n'agapira k'amaboko magufi afite umusatsi mwinshi, aziritse ku munyururu uteyeye ku giti kinini cyanditseho amagambo ngo Gaburiyeri.

Umugabo wicaye hasi ufite umusatsi usa nabi yambaye igipine mu nda inza ze zarakuze ariko ntabwo zogeje impande ye hahagaze abagabo umwe yambaye inkweto z'umukara nipantaro y'umukara n'undi wambaye inkweto z'umukara n'pantaro y'ikoboyi iri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bazamuye amaboko yabo y'indyo afashe ibendera ry'u Rwanda, ririmo amabara y'ubururu, umwanya munini, umuhondo n'icyatsi, n'izuba mu ibara ryubururu, mu gice kigana iburyo, imbere hari umwana wicaye wasamye akutse iryinyo yambaye umupira wubururu, ufite umurongo ku ijosi no ku kuboko.

Umugabo w'umwirabura, ufite indangururamajwi mu ntoki y'umukara, nta musatsi afite, munsi ye hari amagambo avuga ngo "umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe", imbere y'ayo magambo hari amagambo avuga ngo "ubuzima bwo mu mutwe kuri bose."

Umugabo uhagaze imbere y'inzu ifite urubaraza rurerure yambaye inkweto z'umukara, ipantalo y'umukara imwegereye n'ishati y'amaboko maremare ifite amabara abiri ndetse n'amatarata inyuma ye hateye indabo, inyuma ye na none hari inzira yerekeza kuri rya bararaza ryerekeza kuri ya nzu, hagati muri ya nzira yerekeza kuri rya bararaza hari ibiti bibiri biteganye.

Umugore yicaye hasi, akikiye umwana. Yipfutse igitambaro mu mutwe, yambaye n'ishati y'amaboko magufi ya kacyi. Impande ye hari intara iriho ingemeri irimo imyaka. Iruhande rwe hicaye umwana wambaye umupira w'ubururu urimo amabara y'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara. Inyuma yabo hari inzu ifite urugi rw'igiti, ihomesheje ibyondo.

Amaboko abiri ari mu ibara ry'umweru apfumbase uruziga ruri mu ibara ry'umuhondo. Hejuru yarwo handitse amagambo ngo wihogora mu nyuguti nini. Kuri o yo kuri ha harimo igishushanyo cy'umutwe. Munsi y'uruziga haranditse ngo ikigo cyita ku buzima bwo mu mutwe mu magambo manini y'ubururu. Munsi yaho mu magambo yanditse mu nyuguti z'icyatsi haranditse ngo ubuzima bwawe bwiza bwo mu mutwe niyo ntego yacu.

Umukecuru ukuze wicaye ku zuba ryinshi yambaye inkweto z'umukara, ijipo y'umutuku irimo amabara y'umukara n'ikote ry'amaboko maremare yiteze igitambara mu mutwe, impande ye hari amacupa abiri y'amazi n'inkoni, inyuma ye hari umusore wicaye impande y'igiti wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufi.

Mucmba gisize amarangi y'umweru hateye intebe mu buryo bw'uruziga, intebe zimwe zicayeweho izindi ntizicaweho, hagati mu ruziga hahagazemo abantu batanu, bane b'abagore n'umwe w'umugabo, inyuma y'uruziga hahagaze umugore wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi.

Ku cyapa hejuru mu ruhande rw'ibumoso, hari ikirangantego cya polisi y'u Rwanda. Ku ruhande rw'iburyo hari ikirangantego cya leta y'u Rwanda. Hasi yabyo hagati, mu magambo manini haranditse ngo: Isange one stop center. Mu magambo mato, haranditse ngo: cyashinzwe ku bufatanye n'Umuryango w'Abibumbye mu Rwanda. Hasi ku mpande, hari ikirangantego cy'Umuryango w'Abibumbye, n'ikirangantego cy'agashami k'Umuryango w'Abibumbye gashinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe kirimo amabara menshi avanze yambaye amaherena mato ku matwi no hasi yambaye ishati y'umuhondo, yakunje isura amenyo ye ntagaragara arakanuye cyane ameze nkubabaye.

Umugabo wambaye umwenda w'umuhondo wijimye afite ubwanwa buke buri kumera, yabumbuye umunwa amenyo hasi ni yo agaragara gusa. Ibimwira biri kuva mu mu mazuru bishoka, n'amarira ari gushokaho ava mu maso ye yatukuye bitewe no kurira.

Mu cyumba kirimo urumuri rwinshi, gifite inkuta zisize amararangi y’umweru. Abantu bicaye ari benshi ku ntebe, abenshi imbere yabo hari ameza ateretseho amazi. Bafite amakaramu bari kwandika, abandi bafite amatelefone bari kurebamo. Imbere yabo ahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru n'ikote ry'umukara.

Umugabo wambaye ingofero ihinye ku ruhande rw'amatwi ariko imbere ije imbere y'amaso arasamye yakutse amenyo yo hejuru, yambaye umukenyero w'umuhondo n'ishati y'amaboko maremare irimo uburongo bw'umukara n'umweru afite icumu mu kiganza by'amabara y'igitaka n'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo hari umugabo wambaye ibirenge n'ipantaro yacitse ku mavi hejuru ukuguru kw'iburyo yaziritseho igitambaro cy'umutuku, hejuru yambaye ishati yacitse, afite ibintu by'imyanda mu ntoki, ubwanwa bwamurariyeho n'umusatsi wamurariyeho, inyuma ye hari guturuka ipikipiki n'imodoka iri gusubira mu gice ari guturukamo.

Umugabo ukuze wambaye ishati y'ubururu ukuboko kwe kw'ibumoso hari umushanana w'umuhondo. Arasamye yakutse amenyo hasi no hejuru, afite ubwanwa bumaze igihe gito bumeze; yambaye ingofero ifite ubwoya bw'umukara imbere n'inyuma, irimo amabara y'umukara numweru.

Abantu icyenda barahagaze hagati muri bo harimo uwambaye impuzankano ya polisi y'igihugu y'u Rwanda, batanu ni abagore abandi bane ni abagabo, inyuma yabo hari ibyapa bitatu, icyapa cy'ibumoso cyanditseho ngo ivuriro rya Kacyiru, ku rundi ruhande hari icyanditseho ngo isange one stop center.

Umugore wipfutse igitambaro mu mutwe, yikoreye agatebo karimo imijumbajumba, inyuma ye hari uruyuzi ruzamutse hejuru ku giti, naho inyuma y'urwo ruyuzi hari inzu isakaje amategura, uwo mugore yambaye umupira w'amaboko maremare, afashe isuka mu ntoki, imbere yambayemo umupira urimo amabara y'umuhondo n'umukara.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari idarapo y'u Rwanda n'idarapo ry'agashami k'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima. Hejuru ye mu magambo manini y'ubururu haditse ngo: "Turi kumwe". Imbere ye haranditse ngo dutegure ejo hazaza hacu dufatanyije.

Abantu barindwi bicaye n'umunani bahagaze inyuma yabo ku murongo w'abicaye imbere harimo umuzungu umwe bivugwa ko hari b'abirabura batandatu n'umuzungu umwe muri abo bicaye harimo abagore batanu n'abagabo babiri bahagaze ku kumurongo ukurikiyeho n'abagabo gusa.

Umugore wicaye ku ntebe ya rububuta yiteze igitambaro cyirimo amabara y'ubwiganze y'umuhondo, yambaye umupira w'amaboko magufi n'ijipo, inyuma ye hari igikuta gishushanyijeho ururabo. Impande y'intebe yicayeho hari n'indi ntebe ya rububuta imeze nk'iyo yicayeho ,ari kureba mu ruhande rw'ibumoso rwaho yicaye.

Abana benshi bicaye bakikije umukecuru abandi basutamye, umukecuru yicaye ku kirago hagati yabo ari kureba imbere, ukuboko kwe kumwe gufashe ku gitsi ukundi gufashe inyuma ku kirago, ari kureba imbere, yambaye umupira w'amaboko maremare, ku kuboko kwe kw'ibumoso yambaye igikomo. inyuma ye hari abana basutamye bifashe ku matama, abandi basutamye mu buryo busanzwe.

Mu nzu irimo urumuri ruke umugabo wicaye ku mukeka ate igitambaro ku maguru araziritse, yambaye umupira w'ubururu urimo umurongo ukuboko gufashe ku mutwe ukundi kumavi, yicaye ahinnye amavi impande ye hari ikirago kirambuyeho igitenge.

Duharanire kwita ku buzima bwo mu mutwe. Niba uri umuntu mukuru, jya wita ku buzima bwawe bwo mu mutwe kuko ni igice cy'ingenzi. Ngira ngo murabizi ko iyo tutabyitayeho burangirika, tugahungabana ugasanga tubayeho nabi.

Abantu cumi na bane bahagaze imbere y'inzu ku budaraza buri imbere y'urubaraza, icyenda ni abagabo na ho batanu ni abagore, impande yabo hari icyapa gishushanyijeho amafoto n'amagambo y'ubururu hasi y'ayo mafoto, uhereye ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru imbere.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi, iyo utabwitayeho urahomba, ni yo mpamvu umuntu wese aba akwiye kubwitaho maze akamera neza, kuko iyo utabwitayeho ntabwo umenya uko byagenze, wisanga wahungabanye ubuzima bwawe butakiri ku murongo.

Abantu batandatu bicaye ku ntebe za robobota baganira, batanu muri bo bakuru umwe ni umwana .Muri abo bakuru batatu ni abagabo n'abagore babiri n'abagabo kuruhande hicaye umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ingofero afite telefone mu ntoki umupira yambaye uri mu ibara ry'umutuku.

Abantu benshi bari hamwe, bamwe bicaye abandi bahagaze. Imbere hari umwana wikoreye amaboko uri kurira wambaye umupira w'amaboko maremare agera munsi y'inkokora . Impande ye hari umugore wambaye ijipo y'amabara y'umweru n' umutuku wambaye umupira w'amaboko mugufi urimo imirongo y'umuhondo n'umukara afite mu kuboko kwe kw'iburyo ibiti bibiri.

Abantu bane bicaye ahantu hamwe inyuma yabo hari ibitambaro by'ubururu, umugore wicaye imbere yashyize agapfukamunwa mu kuboko karashoka kenda kugera mu nkokora, ukuboko kw'ibumoso yambayeho ibikomo ari naho yambaye ako gapfukamunwa, impande ye yegeranye n'umugore wambaye ikanzu y'amabara ariko yiganjemo umuhondo n'umutuku, inyuma yabo hari umugabo n'umugore, umugabo wambaye ishati y'ubururu n'umugore witeze igitambaro kirimo amabara menshi yiganjemo icyatsi, umukara n'ubururu.

imbere y'urubanza rw’inzu hari abantu cumi na bane bahagaze bane babagore ni cumi babagabo imbere iruhande rw'iburyo hari umugabo wambaye ishati y’umweru wayihinnye akageza munsi y’inkokora yegeranye n’umugore muruhande rw'ibumoso wambaye ijipo y’icyatsi ndende wegeranye nundi mukobwa wambaye ijipo y'umukara ngufi ufite terefone mu ntoki ze yegeranye n'umugabo wambaye ipantaro n'ikote ridasa watebeje ishati y'umukara nawe wegeranye n’umugabo wambaye ipantaro n'ikoti risa n’ishati y’umweru imbere n'inkweto z'umukara.

Umugabo ufite ubwanwa buke uteye isume y'umweru izinze ku rutugu, ufatishije urudodo ibiganza bye byombi, ku ntoki ebyiri ebyiri kuri buri kiganza, arasamye afite shinya y'umutuku, afashe urudodo rwifashishwa mu gusukura amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara miremire, arasamye afatishije amenyo yo hasi ku ya ruguru abumbuye umunwa yatunze intoki ze ebyiri mu mpande zombi z'umunwa, intoki ze ziriho inzara ngufi.

Amenyo y'umuntu iyo atitaweho, agenda ahura n'ibibazo amwe akamungwa, andi agahura n'ibibazo bitandukanye. Twite ku menyo yacu kuko ubuzima bwo mu kanwa ni ikintu cy'ingenzi. Iyo utabwitayeho, ujya kwisanga watangiye kujya kwa muganga cyangwa batangiye kugukura ayo menyo yawe.

Umukobwa ubumbuye akanwa, ufite amenyo y'umweru n'ishinya y'umukara, yafashe intoki z'ibiganza bye byombi arazibumba , asigaza urutoki rwa nyangufi nyirazo n'ururukurikiye ku biganza byombi, afata urutoki rwayangufu nyirazo ku kiganza kimwe arufatisha kururukurikiye rwo ku kiganza kindi, abikora uko ku biganza byombi akoramo ishusho ya mpande ebyiri zingana.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'ubururu n'agapfukamuwa k'ubururu yashyize mu kanwa k'umuntu ugaramye ku gitanda wambaye umupira w'umukara ufite umusatsi mukeya ukanuye areba mu kirere bambitse ibintu bituma babumbura akanwa neza amenyo akagaragara ibikoresho mu kanwa ke kuruhande rwe hirya hari undi wambaye uturindantoki tw'ubururu n'umupira w'amaboko magufi uri gufasha uwo muganga.

Umuntu bigaragara ko bari kumuvura indwara zo mu kanwa, cyangwa bari kureba uko ubuzima bwe bwo mu kanwa buhagaze, yaryamye ku ntebe agaramye ariko asa n'uwegamye, araramye areba hejuru, imbere ye hari ibindi byuma, naho umuganga uri kumusuzuma yambaye uturindantoki.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru afite uburoso bw'amenyo mu kiganza cy'ibumoso, ari koza amenyo, abumbuye akanwa amenyo ye ni umweru ari kwireba, afite imisatsi y'umukara itendeye ku mpande z'amatwi.

Imbere y'ameza arambitseho ikaramu n'impapuro hicaye umugabo wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, agapfukamawa k'ubururu, n'uturindantoki tw'umweru. Hepfo ye hari undi mugore wambaye itaburiya y'amaboko maremare n'agapfukanwa k'ubururu. Imbere yabo bafashe ku mwana bamwasamishije wicaye ku ntebe y'urwegamiro barikumureba mu kanwa.

Umugabo wambaye umupira w'ubudodo w'igitaka n'ishati y'ikoboyi ifite ikora y'ubururu ifite ibifungo by'indumane , afite ubwanwa butari bwinshi n'umusatsi muke. Ari guseka amenyo ye ni umweru ariko ntago amenyo yo hasi afashe ku yo hejuru.

Imbere y'igisharaga cy'umweru kibabyeho icyapa cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga, wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, abantu batonze umurongo bagana imbere, ahari abasore bambaye amatabuja y'umweru y'amaboko maremare, bafite iminzani n'ibikoresho byifashishwa mu gupima uburebure.

Umwana ukiri muto, bigaragara ko yatojwe umuco wo koza amenyo, arishimye arikureba imbere ye kandi nta gihunga afite. Uyu muco ni mwiza kuko ubuzima bwo mu kanwa ni ingenzi mu mibereho y'abantu batuye Isi.

Umugabo ufite ubwanwa buke wambaye umupira w'umweru afashe urudodo mu maboko ye yombi agerageza kurucengeza mu menyo, ni urudodo rwifashishwa mu gusukura amenyo, arasamye amenyo yo hejuru afashe ku yo hasi.

Umusore arasamye ashyize urudodo mu menyo, bifashishwa bakora isuku, arufatisha ibiganza byombi, ururimi rwe ruragaragara, gusa amenyo yo hasi ntagaragara, yambaye umwenda w'umweru, hasi afite inzara ntoya n'ubwanwa buke.

Umwana wambaye urugori rufite akarabo mu ruhande rw'ibumoso, aransamye afite uburoso mu kanwa, bw'ibara rya move n'umweru, ikiganza cye cy'ibumoso kirabumbuye yambaye ikanzu y'amaboko magufi n'agapira imbere k'umweru k'amaboko magufi, inyuma ye hari intebe y'ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite ingofero irimo umushumi, atunze urutoki ku menyo ye, afite ubwanwa bwinshi, amenyo ye n'umweru afite ishinya y'umutuku, amenyo yo hasi afashe ku yo hejuru, afite iherena muzuru ry'ibumoso kandi yambaye indorerwamo z'amaso.

Umukobwa n'umusore bahagararanye, bambaye imipira y'amaboko magufi y'umweru, umukobwa afite imisatsi myinshi itendeye impande y'amatwi, umusore afite imisatsi itari myinshi azengurutse umutwe yirabura, bafite utudodo bashyize mu kanwa, bose babumbuye akanwa.

Umusore ufite umusatsi muke uri guseka, wambaye agapira ka kaniga k'amaboko maremare k'ubudodo, afashe mu kiganza cye cy'inryo agakoresho kagaragaza amenyo kanditseho ijambo "vita", ukundi kuboko atunze kuri ka gakoresho urutoki.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'ubururu yakarokaro ufite ubwanwa buke ubumbuye umunwa aryamye ku gitanda cyabugenewe cyumweru, imbere ye hari umugore ufite igikoresho kiriho amenyo, wambaye uturindantoki tw'umweru w'umuzungu, afite agakoresho kariho iryinyo agashyize impande y'umunwa wa wa musore uryamye ku gitanda.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, ari kumwe n'umwana nawe wambaye umupira umeze uko, bafashe urudodo mu ntoki, bose bakoresheje amaboko abiri, umwana afite umusatsi muke, umugabo afite umusatsi mwinshi, bahagaze ahantu mu cyumba kimwe.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi n'ubwanwa buke wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi afashe urudodo mu biganza bye byombi n'intoki ebyiri ebyiri ari kwirebaba mu ndorerwamo, ari kugenda urwo rudoda afashe arucengeza mu menyo.

Umugabo wambaye ipantaro y'ivu n'inkweto z'umukara, yicaye ku gatebe gafite amapine aho, bicara hariho igitambaro cy'icyatsi, yifashe mu biganza byombi yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, yambaye itaburiya iriho ikaramu, ari guseka, imbere yambayemo agapira k'igitaka.

Mu cyumba gisize irangi ry'umweru, gifite amadirishya arimo amarido ariko kiri kwinjirwamo n'urumuri; hicayemo umugore wambaye itaburiya iteye ipasi y'amaboko maremare, afite ikaramu mu ntoki, yambaye agapfukamunwa n'amarineti mu maso y'umweru, ukuboko kumwe gufashe ku byuma ameze nk'aho ari gupimiramo naho ukundi gufashe ikaramu ari kwandikisha ku gipapuro hasi.

Umugabo wambaye umwenda w'umweru hejuru wamaboko maremare afatishije urudodo ibiganza bye byombi, intoki ze zihinnye zifashe urwo rudodo afite ubwanwa buke n'amenyo y'umweru amaso ye ameze nkabumbye.

Abana benshi b'abakobwa bambaye impuzankano y'amashati y'amaboko magufi y'akarokaro, harimo amabara y'umweru n'icyatsi, bafite udukombe mu ntoki n'uburoso bw'amenyo mu kanwa, bambaye amajipo y'icyatsi asa, hari n'uwambaye umupira w'amaboko maremare w'ubudodo ufite amabara y'umweru ku ikora no ku maboko.

Umugore uryamye agaramye ahabugenewe wambaye umupira w'umweru urimo uturongo twumukara aryamye agaramye areba ku ruhande, umuntu ufite urudodo mu ntoki wambaye uturindantoki mu biganza byombi n'agapfukamunwa.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi wambaye ubusa hejuru arasamye amenyo hejuru ntagafashe ku yo hasi, yashyize mu menyo ye akuma gafasha gusubiza ku murongo amenyo, ko mu ibara ry'icyatsi agafatishije ukuboko kwe kw'iburyo.

Imbere yikibaho cy'umukara kiri hagati mu gikuta abantu bane bahagaze bifashe neza batumbereye umugabo wambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru n'agapfukamunwa munsi yakananwa, ufashe ku rutugu umwana wambaye ishati y'amaboko magufi y'icyatsi ufite igishushanyo kigaragaza amenyo. Umugabo wambaye itaburiya yashyize uburoso bw'amenyo kuri cya gishushanyo.

Urudodo ni uburyo bushyashya bwaje bwo gusukura amenyo, aho urukoresha maze ugasukura amenyo yawe agacya. Niba utari wabugerageza, uzagende kwa muganga cyangwa ahandi bacuruza ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi, bazaruguha maze nawe ujye urwifashisha.

Umugabo ufite umusatsi muke wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi afashe mu ntoki z'ibiganza bye byombi urudodo rw'umweru byifashishwa mu gusukura amenyo arasamye amenyo yo hejuru ntago afashe kuyo hasi ari kugerageza gucengeza rwa rudodo afite mu biganza bye mu menyo ye.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoke tw'umweru, afite ibyuma bibiri ashyize mu kanwa k'umuntu uryamye, ugaramye, yasamye. Amenyo yo hasi adakora ku yo hejuru. Icyuma kimwe agifatishije ku munwa wo hejuru awugeza hejuru, naho ikindi afite mu ntoki ari kugiseseka mu kanwa aganisha hirya hafi y'ibijigo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye hasi, harimo abazungu n'abirabura, ariko higanjemo abirabura cyane cyane, bamwe bariyicaye abandi barahagaze bari guseka, imbere hari umusore wambaye ikote n'ipantaro bisa, n'ishati imbere yumweru inyuma ye hari umukobwa wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi miremire watebeje, nawe uri guseka cyane.

Umugabo wicaye abumbuye umunwa amenyo yo hejuru ariyo agaragara cyane, afite ubwanwa buke n'umusatsi muke. Yambaye ishati irimo uburongo bw'ubururu n'umweru, iruhande rwe hari umuntu wambaye umwenda w'umweru wa maboko maremare n'uturindantoki tw'ubururu, afite akuma k'umweru ku mutwe wako agashyize munsi y'ugutwi kwe.

Umusore wambaye umupira w'umukara afite ubwanwa bwinshi arasamye amenyo yo hasi no hejuru ntabwo bifatanye, afite umusatsi muke amatwi ye yose aragaragara afite amaso atari umweru cyane nta musatsi afite araconze.

Umugore ufite imisatsi myinshi itendeye impande y'amatwi, yambaye isengeri y'ubushumi y'umweru, afashe mu kiganza cye cy'iburyo uburoso buriho umuti w'amenyo, abushyize imbere y'akanwa ke, arasamye. Imbere ye afashe umwana mu mugongo na we ufite uburoso mu kuboko kw'indyo, wambaye isengeri y'umweru, imisatsi ye izirikiye hejuru.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba giseze irange ry'umweru bicaye ku ntebe z'urwegamiro abandi bahagaze inyuma yabo, abenshi bambaye imipira y'icyatsi yanditseho ijambo ngo tubiteho, imbere yabo ku meza ariho igitambaro cy'umweru harambitse umuti w'amenyo, hari umukobwa uhagaze benshi bahanze amaso yashyize uburoso bw'amenyo bufite ibara ry'icyatsi mu kanwa.

Imbere y'ameza aramutse y'impapuro hicaye umugore uri kumwe n'umugabo ukuze ufite terefone mu ntoki wambaye ishati y'amaboko magufi irimo umurongo n'amataratara . Inyuma yabo hari intebe nyinshi inyuma y'izo ntebe hari ibirahure biri gutuma urumuri rwinjira ahantu bicaye.

Mu cyumba giseze irange ry'umweru hari umusaza n'umukecuru wicaye imbere y'ameza, umusaza mu kuboko kwe ku indyo afitemo ibinini naho mu kuboko ku ibumoso afitemo agacupa gapfundikiye k'umweru, umukecuru wambaye imitako ku rutoki rwa kabiri uturutse ku gahera afite agapapuro mu kudi kuboko ku ibumoso ari kwereka umusaza umusaza agasoma, umusaza yambaye umupira w'amaboko magufi naho umukecuru yambaye amaherena.

Umugore uri guseka, ufite imisatsi yumweru, yambaye amaherena magufi, yambaye umupira w'umweru, afite inzara z'umutuku, afite ifurusheti mu ntoki n'isahani y'umweru, inyuma ye hari akabati kari hagati mu gikuta, gafite imikondo yifashishwa mu kugafungura ibiri, ako kabati gasize irangi ry'umweru.

Mu cyumba gifite inkuta zisize amarangi y'umweru harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi irimo imirongo imanutse ufite ubwanwa n'umusatsi birimo imvi afashwe ku rutugu n'umukobwa unanutse wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro.

Umugore ubonako akuze ariko ucyiyandayanda agakora imyitozo ngororamubiri, yashinze inkokora z'amaboko ye, ibipfunsi arabifunga ku gasambi ka kizungu kabugenewe, umusatsi we wose wuzuyemo imvi, ariko urabona ko afite imbaraga zo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore wicaye ku gasambi hagati mu busitani impande ye hari utwatsi dutoshye inyuma ye hari ibiti, yambaye ipantaro imwegereye y'umutuku n'umupira w'amaboko maremare ufite ingofero umusatsi we yawuzirikiye hejuru yunamye asa nufashe kutubumbamo intoki ze ziriho inzara ntoya.

Mu cyumba kirimo urumuri rwinshi ruri guturuka mu madirishya y'ibirahure. Harimo umukobwa wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, ipantaro y'umukara, n' inkweto z'umukara, yambaye isaha ku kuboko kw'iburyo. Afashe ku bitugu umugabo mukuru wambaye umupira w'umukara, w'amaboko magufi n'ipantaro ifite ibara rya kaki uri kugenda afashe ku byuma biri ku mpande z'inzira ari kugenda anyuramo.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko mugufi w'icyatsi, yicaye imbere y'imeza ateretseho ikirahure, afite imiti mu ntoki, iruhande rw'ukuboko kw'iburyo hari agacupa afatishije ibiganza bye, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umutuku w'amoboko maremare, ufite igipapuro mu ntoki utunze kuri icyo gipapuro urutoki asa n'uri gusoma, bose barakuze bafite imvi.

Imbere y'ameza yimbaho yicaye umugabo n'umugore bakuze umugore yambaye umupira w'amaboko magufi n'umugabo nuko, umugore ufite umusatsi uhambiriraye hejuru naho umugabo afite umusatsi muke urimo imvi ndetse n'ubwanwa umugore afite urupapuro we n'umugabo we bari kurebaho umugabo bafite agacupa k'umweru gapfundikiye mu biganza bye.

Abantu benshi bari kumwe mu gisharagati, abenshi baricaye abandi bake barahagaze kuruhande rw'imberebumoso hariru umugore uhagaze wambaye iji yumukara nikanzu y'umukara afite imisatsi miremire y'umukara yicaye hejuru afite agasai k'iburyo mu ntoki, imbere ye hari umusaza wicaye wambaye ishati y'icyatsi ikote ry'umukara, ufite terefone ku gutwi, inyuma ye hari abandi bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Umugabo ukuze, wambaye ishati y'ubururu, y'amaboko maremare, ifite umufuka imbere ihinye inshuro ebyiri kumaboko, yambaye isa ukuboko kw'ibumoso, yambaye indorerwamo zmaso, afashwe mukiganza n'umugore w'umuzungu wambaye umupira w'amaboko maremare, y'umweru imbere yambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu afite imisatsi miremire.

Umusaza wicaye ufite inkoni ku kuguru yambaye ipantaro y'umukara ihinnye yambaye n'ishati y'umweru y'amaboko magufi ifunguye ipesi ryo hejuru, iruhande rwe har' umwana wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru ufite umugati mu ntoki washyize urutoki ku munwa, kurundi ruhande hirya har'umwana wambaye umupira w'amaboko magufi n'ijipo, afite akabuni mu ntoki ,umutwe we nta musatsi uriho.

Leta yashyizeho uburyo, iyo leta ni iy'u Rwanda mvuga, ubufasha mu kwita ku baturage, aho abaganga bava ku bigo nderabuzima no ku mavuriro, no ku bitaro bikuru, bagasanga abaturage aho bari bakabapima indwara zitandura, ni muri urwo rwego, umuganga yasanze umuturage w'umukecuru mu cyaro, imbere y'urugo rwe, amupima umuvuduko w'amaraso, ndetse n'uburyo umutima utera.

Imbere y'ameza y'umweru, ateretseho ibikombe bibiri byumweru, hari umusaza wambaye umupira wamaboko magufi, ufite ikora w'umweru, yambaye n'amataratara, arikumwe n'umusore wambaye ishati y'amaboko maremare ya karokaro, irimo amabara y'umukara n'umweru ufite umusatsi mwinshi bari kureba mu gitabo bagaseka.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu ufashe inkoni mu kiganza k'iburyo yiyegamije ku musore wambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi, ufite mu ijosi igikoresho kifashishwa hapimwa uko umutima utera, ufite ubwanwa bwinshi bw'umukara bombi bari kumwenyura.

Abantu batatu bahagaze imbere y'ameza babiri b'abagore n'umwe w'umusore, uri hagati ni umukecuru ukuze wambaye amataratara, ku ruhande hari umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru w'ubudodo n'amaherena mato ufite umusatsi muke, ku ruhande rwo hirya hari umugabo wambaye umupira ufite amapesu y'umweru hejuru w'amaboko maremare uteruye isahani iriho umugati.

Umugabo ukuze wicaye mu kagari k'abamugaye yambaye ipantaro y'umweru, umupira w'umweru w'amaboko maremare n'umupira w'ubururu imbere, araramye areba hejuru mu maso y'umufasha mu bitugu w'umukobwa wambaye ishati y'amaboko magufi isatuye ku mpande ifite umufuka imbere n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo n'umugore bicaye imbere y'ameza atetseho ikirahuri cy'amazi igitabo n'ibinini, umugore afite ibinini mu ntoki n'ikaramu, afite umusatsi w'umukara yambaye umupira w'amaboko maremare naho umugabo yambaye amataratara, afite umusatsi w' imvi yambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara.

Abagore bafite ubwiganze bw'abakuze bari imbere mu rugo ahantu hari kuva izuba ryinshi abenshi muri bo bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru iriho ikirango cyo kurwanya sida inyuma y'urugo barimo ruriho igiti abenshi muri bo bambaye udupfukamunwa n'ubwo badushyize munsi y'akananwa.

Ahantu hari urumuri ruri guturuka mu idirishya ahagaze umuntu wambaye ikanzu y'ubururu wambaye ibirenge ahagaze yifashishije akuma gafite amaguru kamufasha guhaguruka nyuma yaho ahagaze hari igitanda.

Abagore batatu bari guseka bareba muri telefone ifite ibara ry'umukara, uyifite uri hagati yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwe iburyo ari kumwe n'uwambaye umupira w'umweru wa maboko maremare wawukuruye akawugeza mu nkokora w'ubudodo, ku ruhande rw'ibumoso ari kumwe n'undi wambaye umupira wa maboko maremare ariko utawuhinnye wambaye amaherena.

Umugore ukuze ufite umusatsi urimo imvi afashe indangururamajwi mu kiganza cye cy'ibumoso, ifite ibara ry'umutuku hejuru yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari imodoka n'ibiti, inyuma y'ibyo biti hari inzu.

Umukecuru wipfutse igitambaro wambaye ishati y'amaboko maremare ariko wayihinnye akageza hafi yinkokora ,yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'andi y' ubururu, yicaye ahantu mu ishyamba, aratetse ateretse inkono ku mashyiga acanye ibyatsi.

Umugabo n'umugore, bicaye imbere y'ameza, ariho igitambaro cy'umweru, ateretseho amasahani atatu n'ikirahure, umugore mu kuboko kw'indyo afashe icyuma kirambitse ku isahani, naho mu kuboko kw'imoso afashe ifurusheti ayigejeje imbere y'akanwa, umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare, afite ifurusheti n'icyuma mu isahani ari kureba mu maso y'umugore agaseka.

Abagore batatu bari kumwe umwe ukuze cyane n'undi mutoya ufite umu w'umukara yambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare, undi mukecuru yambaye umupira w'amaboko ku maremare w'umweru imbere harimo umupira w'umukara bari gukina amakarita baseka.

umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi y'ubururu ari guseka afite ubwanwa n'umusatsi uririmo imvi afa ukuboko n'umugore wambaye itaburiya y'amaboko maremare yu'mweru ufite inzara ngufi n'imisatsi miremire umugabo apfumbatije akantu k'ubururu mu kiganza cye arambuye ukuboko.

Imbere yumukecuru wambaye umwenda w'ubururu wamaboko magufi imitako ku rutoki rwa mukuru wa meme ku kiganza cy'ibumoso amataratara n'amaherena ni umusaza wicaye ku gitanda gifite ibara rya zahabu n'umupira w'maboko maremare w'ubudodo ufite ubwiganze bw'ibara ry'ivu ari kunywa amazi afite umusatsi n'ubwanwa burimo imvi.

Umugabo ukuze ufite ubwanwa burimo imvi burebure, yambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare w'ubudodo, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa n'ikirahure cy'amazi, impande ye hari umukobwa umufashe ku rutugu wambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso, afite imisatsi miremire itaziritse, wambaye ipantaro y'umukara ufite agacupa karimo ibinini.

Abakecuru bicaye hasi bari kureba imbere. Imbere yabo hari igikapu cy'imishumi ibiri kirimo igitambaro cy'icyatsi. Inyuma y'aho bicaye hari intebe eshatu z'umweru. Inyuma yazo hateye insina. Umukecuru umwe w'imbere abumbuye akanwa kandi yiteze n'igitambaro.

Umugore ufite imisatsi yizirikiye hejuru wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe y'umweru imbere hari ameza arambitseho ukuboko k'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ayihinnye akayigeza haraguru y'inkokora ufite ubwanwa burimo imvi ku nkokora ye kuboko kw'iburyo haziritseho icyuma gifasha gupima umuvuduko w'amaraso.

Imbere y'imeza hicaye umugore ukuze ufite umusatsi ufite ibara rya zahabu n'amaherena mato yambaye ishati y'amaboko maremare imbere ye hari ameza hariho ikirahuri cy'amazi n'agakarito impande ye hari umugore ufite ibinini mu ntoki ateze ibiganza ngo abimushyirireho uwo mugore ufite ibinini yambaye isaha kukuboko kw'ibumoso n'ishati y'ubururu n'amaboko magufi.

Mu muhanda wa kaburimbo umeze neza, ku ruhande hariho utuntu tw'udutafari bategesha umuhanda, harimo abagore bakuze n'undi ukiri muto bambaye imyenda ya siporo, bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri bayishaka. Ahantu bari, hari kuva izuba ryinshi biragaragara ko bari gukora iyi myitozo ngororamubiri babishaka nta gahato.

Ku zuba ryinshi munsi y'igiti imbere y' igicaragati gitaswe n'ibitambaro by'amabara atandukanye harimo umuhondo ubururu n' icyatsi ahagaze abantu cumi na batanu, abagabo babiri bari imbere bafatanye mu biganza, ukundi kuboko gufashe ku igare ry'abantu bamugaye impande yabo hari imbago n'intebe zo kwicaramo.

Umugabo ukuze wicaye mu kagari k'ababana n'ubumuga gafite intebe y'umutuku n'amapine y'umukara, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'amaboko maremare w'umuhondo n'amadarubindi, ari kurebana mu mumaso n'umwana wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'amaboko maremare w'icyatsi, bose bafite udukoresho twifashishwa bakina umukino w'ikoranabuhanga, umwana yicaye mu ntebe y'amabara y'umukara n'umweru, inyuma yabo hari amadirishya arimo ibirahuri.

Imbere y'umuryango ahantu hari urumuri rwinshi rw'izuba, umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ivu afashwe mu mugongo n'ukuboko n'umugabo wambaye agapfukamunwa wambaye kandi umupira w'ivu.

Umugabo ukuze ufite imvi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara w'amaboko maremare, afashwe mu maboko asa n'uhagurutswa n'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, ishati y'umweru ihinnye y'amaboko maremare, n'undi kurundi ruhande w'umugore wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'amaboko maremare, inyuma yabo hari ururiri bushashweho amashuka y'umweru.

Umugore wambaye amaherena magufi yicaye mu ntebe y'umweru ifite imisego iburyo n'ibumoso, yambaye umwenda w'umweru ufite imirongo imanutse y'umukara n'umupira inyuma w'amaboko maremare w'icyatsi. Ari guseka afashwa mu gatuza n'undi wambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso, yambaye umupira w'umweru imbere y'ishati ngufi y'ubururu isatuye ku mpande nawe ari guseka kandi yambaye amaherena.

Abagore babiri bahagaze ku murongo bateganye, barambuye amaboko, kumwe imbere, ukundi inyuma bareba mu rubavu, uri imbere afite umusatsi urimo imvi uzirikiye hejuru, naho uw'inyuma yambaye isengeri, uri imbere ukuze yambaye umupira w'amuboko magufi.

Mu muhanda w'igitaka harimo abantu benshi bari kugenda, imbere hari abakecuru bambaye inkweto zifunguye bambaye imipira y'umutuku. Umwe ariteze igitambaro cy'umukara undi ntiyiteze, afite umusatsi urimo imvi. Bose bakenyeye imikenyero y'umweru, ku ruhande rw'abakecuru hari umwana wambaye bodaboda z'umuhondo n'umupira w'umweru n'ipantaro. Impande ye hari umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ijipo y'umutuku, inyuma hari inzu iri impande y'umuhanda.

Iruhande rw'igikuta cy'umweru, hamanitseho isaha y'umweru, hahagaze abagore babiri bari imbere y'umugezi, iruhande rw'umugezi n'akararavabo, ako bogerezaho ibintu, hariho imboga, pivuro, inyanya, ironje, naho inyuma hari akabati karimo amasahane n'ibikombe.

Umugabo ubona ko akuze ufite imvi mu musatsi no mu bwanwa, yicaye imbere y'ameza ariho agakoresho kitwa imbeba bifashisha muri mudasobwa bareba ibintu bari gushaka, yifasha mu gahanga ndetse inyuma ye hari urumuri rwinshi ruri guturuka mu madirishya arimo ibirahure.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu bw'ijuru, buvanzemo n'andi mabara menshi, handitsemo amagambo mu nyuguti z'umweru n'umuhondo, ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, twirinde byanditse muyuguti nini z'umweru, naho indwara y'ubushita bw'inkende byanditse mu nyuguti z'umuhondo mu magambo mato.

Umugore wambaye amataratara yicaye ku ntebe yegamirwa ageretse ukuguru kukundi, yambaye ipantaro y'umukara imwegereye, naho hejuru yambaye ikote ririmo umurongo imbere yaryo harimo umwenda w'umukara. Mu kuboko kw'iburyo afashe indangururamajwi y'umukara, naho ku bibero bye harambitseho igitabo.

Abakobwa cumi na batanu bose bambaye amapantaro n'imipira hejuru y'amaboko magufi y'umweru isa, bahagaze mu matsinda ane, abiri agizwe n'abantu batatu, rimwe rigizwe na batanu, irindi rigizwe na bane, inyuma y'aho bahagaze hari idirishya rinini ririmo ibirahure na senkenge.

Umugabo wambaye umupi w'amaboko maremare w'umukara, yambaye ingofero n'amataratara, ari imbere y'igit,i afite igiappuro ku nda ye, agifatishije amaboko ye yombi hasi no hejuru mu nguni handitseho amagambo ngo; urukingo rw'ubushito bw'inkende ubu ngubu ruri kuboneka.

Abantu barindwi bahagaze ku murongo umwe, batatu ni abazungu, abandi ni abirabura, ku mpande zombi bakikijwe n'abazungu, ku ruhande rw'ibumoso uw'umukobwa, ku rw'iburyo uw'umuhungu, muri abo bose, abakobwa ni babiri, abagabo ni batanu.

Hari umuryango Mpuzamahanga ushinzwe kwita ku mibereho y'ibidukikije, uyu muryango wakoze inama kandi ugira umunsi Mpuzamahanga ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa munani, umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane nibwo wakoze inama.

Abantu batanu bakikije ameza, inyuma ya aho umugabo uhagaze yifasheshi mu imifuka yambaye i hejuru y'icyatsi, abandi bakikije ameza harimo umugore wambaye itaburiya y'ubururu n'agapira'amaboko maremare k'umweru afite umusatsi muremure yambaye uturintoke tw'umweru hakurya ye hari umugabo wambaye ikatabu y'amamoboko maremare y'umweru yambaye uturinda ntoki tw'umweru bombi bafashe intoki z'abagore begeranye.

Ku ivuriro hari abagore baje gukingiza abana babo, ni bane, buri wese afite umwana we ubona ko amwishimiye. Ariko abenshi barangaye bareba umwana w'umwe uri ku ruhande, bigaragara ko bamukunze nkaho asa neza.

Imbere y'abantu bicaye bageretse akuguru ku kundi hari umugore wambaye ijipo y'umweru irimo amabara hasi yiganjemo yumuhondo, yambaye umwenda hejuru w'icyatsi afite terefone na mikoro mu ntoki, afite imisatsi myinshi itendera mu mugongo impande ye hari indangururamajwi impande yayo hari icyapa kirekire gihagaze cy'ibara ry'umutuku nyuma y'i cyapa hari umuntu wicaye, imbereye hari imeza hateretseho mudasobwa.

Imbere y'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda bitatu, munsi yabyo handitse ngo Repubulika y'u Rwanda, hasi hakaba handitse ngo Minisiteri y'Ubuzima, hahagaze abantu ubona ko bavuye nko mu nama kuko basa neza.

Umugore ufite amaso manini wambaye umwenda w'umutuku hejuru n'imiringa mu ijosi, afite imisatsi y'umukara migufi izirikiye inyuma, yambaye amaherena y'umweru ku matwi, iminwa ye isize ibirungo bitukura, hejuru ye haranditse mu ibara ry'umutuku amagambo manini ngo umunsi wahariwe kwita ku buzima ku isi.

Umugabo wambaye ijire y'icyatsi nishati y'amaboko maremare y'umweru, agapfukamuwa k'umweru kazirikiye imishumi inyuma mw'irugo amarinette n'ingofero, ari gutera urushinge undi wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu n'agapira k'umweru imbere n'agapfukanwa k'ubururu, impande yabo hahagaze uwambaye ijire y'icyatsi.

Imbere y'icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo manini y'umweru hahagaze abantu benshi biganjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umuntu w'umugabo wambaye impuzankano y'urwego rushinzwe umutekano mu karere.

Mu cyumba kirimo urumuri ruke, harimo abantu batandatu bambaye imyenda ipfuka umubiri wose kugeza ku mutwe n'ibiganza bambayemo uturindantoki, mu maso bambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu inyuma yabo hahagaze umuntu wambaye ipantaro n'ishati y'amaboko magufi bya movi.

Umugozi ufite imitwe ibiri uzinze mu buryo bw'uruziga ukagira ipfundo hasi bituma buri mutwe ujya mu cyerekezo cyawo iburyo n'ibumoso, mu imbere mu ruziga harimo ingabo ebyiri iburyo n'ibumoso, hagati harimo agaseke gakikijwe n'ihundo ry'isaka n'ikawa, hejuru hari izuba riri kurasa, munsi ya rya pfundo handitse amagambo ngo repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima.

Mu cyumba kirimo urumuri rw'itara hicaye umukobwa wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'ubururu, uri kureba mu maso y'undi urambitse amaboko ku meza ariho mudasobwa wambaye umupira w'amaboko ku magurufi. Inyuma y'uwambaye itaburiya y'umweru hari umukobwa wambaye imyenda isa y'ubururu n'umweru ishati ari amaboko magufi nawe ufite ibitabo mu ntoki n'ikaramu.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba gisi irange ry'umuhondo, gifite amadirishya asize ry'icyatsi n'ibirahure, bicaye ku ntebe za rububuta, imbere yabo hari abantu babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza naho kuruhande hari umugabo uhahagaze imbere y'abandi wambaye ikote ni'pantaro by'umukara n'ishati y'umweru, inyuma yaho bicaye hari ikibaho cy'umweru kibambyeho icyapa.

Mu cyumba kirimo inkuta zisize irangi ry'umuhondo weruruka harimo intebe z'umufariso umunani, hagati y'izo ntebe harimo ameza akikijwe n'intebe enye z'umukara, hejuru hari urumuri rwinshi naho hasi harijimye ntihera ugereranyije no hejuru.

Imbere y'amazu y'amagorofa, hari ubusitani buto. Impande y'ubusitani hariho ibiti bikiri bito bitarakura. Mu busitani hagati, harimo amatara amurika. Ku mazu hasizeho amarangi y'umweru ku bice bimwe na bimwe, hariho n'ubururu. Ahatari amarangi hari amatafari agaragara.

Ahantu mu cyumba ubona ko kirimo intebe z'abaganga ndetse n'iz'umurwayi yicaraho bari kumusuzuma, hari udutebe duto dufite amapine, ndetse hari akantu kameze nk'akumba umuntu yihereramo. Ni keza biragaragara.

Ikigo Nderabuzima cya Matyazo, ni ahantu ugenda bakakuvura, bapima ibizamini bitandukanye, harimo nka za Malariya n'ibindi. Abantu bagiye kuhivuriza, baca ku muryango munini ufunguka ujya imbere, maze aho binjirira hari ikigega hejuru cy'umukara cyegeranye n'inzu isakaje amabati y'ubururu.

Umugore uryamye ku gitanda cy'umweru kiriho igodora ripfunyitse mu mwenda w'ubururu yiteze igitenge mutwe gisa n'icyo akinyeye uhereye mu mabere asubiza hasi, impande hari umugore wunamye wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki wambaye n'amataratara amufashe ku kuboko.

Inzu y'igorofa isize irangi ry'umweru isakaje amabati y'umutuku ifite amadirishya arimo ibirahure asize irangi ry'umweru imbere yayo hari ubusitani ikikijwe n'urugo rwubakishije amatafari ya munyu rurimo ibyuma bisize irangi ry'umutuku.

Inzu y'igorofa isize amarange y'umweru ifite igisenge gisakaje amabati n'ibyuma ku rubaraza bisize irange ry'umweru n'amadirishya asize irange ry'umweru, imbere ku rubaraza hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi cyanditseho amagambo manini mu ibara ry'icyatsi ari hagati y'umubyeyi wifashe ku nda, avuga ngo inzu y'ababyeyi n'impinja.

Mu Rwanda ubuvuzi bwateye imbere, aho usigaye usanga abantu bagenda bakivuza, hakoreshejwe imashini kandi haje n'izindi nsakazamashusho ziba zifasha kuri izo mashini zipima abantu, bigatuma muganga amenya uko umurwayi ahagaze.

Imbere mu cyumba gisize amarangi y'umweru harimo ibitanda bitatu, buri gitanda gifite ibara ry'umweru kandi gishashaho ibiryamirwa by'icyatsi, hagati ahatandukanira buri cyumba, harimo amarido y'umweru afasha gutandukanya igitanda n'ikindi.

Ahantu ubona ko ari heza, hari inyubako ifite ibirahure, hasa neza haratunganyije, harimo umuntu wicaye imbere ye hari mudasobwa naho impande ye hari ibikuta by'umweru naho inyuma ye hari ibara ry'umutuku riri ku gikuta.

Imashini zabugenewe zifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, ziri impande y'igitanda kiriho amashuka y'umweru no mu cyumba gihanitsemo ifoto ishushanyijemo abantu. Icyo cyumba gifite isuku nkuko bigaragara.

Igitanda gifite amaguru yumukara, gifite n'imifariso y'ubururu, giteretse mu cyumba gisize irange ry'umweru, gifite parafo y'umweru, kikagira umukara hasi w'umukaba. Impande y'icyo gitanda hateretse imashini ifite amaguru y'umukara, ariko ahagana hagati akazengurukaho ibyuma bifite ibara ry'umweru.

Imihanda y'igitaka ica hagati y'ubusitani bw'ibyatsi bukiki n'indabo z'icyatsi n'umuhondo, imihanda irererekeza ku mazu yubakishije amatafari, afite ibara ry'igitaka, hejuru ku mazu hasize irangi ry'umuhondo, hasakaje amwe ku mabati y'ubururu andi asakaje y'umutuku, inyuma hasize hose amarangi y'umuhondo n'andi afite igice kimwe gisize irangi n'ikindi cyubakishije amatafari gusa.

Mu cyumba kiri kwakamo amatara, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukonjesha, ni kwa muganga, kuko hari isuku nyinshi, hari amatara menshi yakamo, bigaragara ko ari ibikorwa remezo byitaweho.

Amazu y'amagorofa ari mpande y'ibendera ry'u Rwanda. Ayo mazu asakaje amabati y'umutuku ku ruhande rumwe asize irangi ry'umweru, ku rundi asize irangi ry'umukara ariko utijimye. Inyuma y'ayo mazu hari ubusitani buri impande y'akayira kanyurwamo n'abantu, ku ruhande hari abantu bafite indobo.

Abantu cumi na bane biganjemo abagore bahagaze mu busitani buto bw'ubwatsi impande yi'icyapa giteye irangi ry'umukara cyanditseho ngo ibitaro bya Butaro inyuma yaho hari inzira ahagana inyuma iruhande rw'ibumoso hari ibiti hirya hari inzu iteye irangi ry'umukara.

Mu kayira k'abanyamaguru hari umuntu wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, hepfo yaho hari ubusitani bukikijwe n'indabyo, imbere yazo hari inzu isize amarangi y'umweru, ifite inzugi zisize amarangi y'umukara n'ibirahure, hepfo hari inzu isakaje amabati y'umutuku, na yo isize irangi ry'umweru, impande yaho hari ikigega giteretse mu kirere cy'umukara.

Mu nzu irimo amakaro irimo urumuri ruke hicayemo abantu benshi biganjemo abakuze bambaye imipira y'umweru n'icyatsi y'amaboko magufi, bicaye ku ntebe zifite amaguru y'umweru ahicarwa hafite ibara ry'icyatsi.

Icyuma kwa muganga bifashisha mu gupima umuntu indwara arwaye, ni cyiza cy'umweru kandi kiracyari gishya, impande yacyo hari insakazamashusho nziza irimo ahantu hari ibicu byiza by'ubururu n'umweru, ni inyubako nziza icyo cyuma kirimo kuko ifite amatara manini kandi ifite na parafo nziza.

Ubusitani bw'ubwatsi buto bukikijwe n'indabo zifite ibara ry'icyatsi, buri hagati yamazu asize irangi ry'umweru asakaje amabati y'umutuku impande y'ubwo busitani hari igiti kirekire gifite amashami manini imbere ku rubaraza rw'inzu iburyo hahagaze abantu biganjemo abagore.

Mu cyumba gifite inkuta z'umweru abantu batonze umurongo bagana imbere impande yabo hari intebe zigamiga z'umukara ziri impande n'inyuma y'intebe ya rubuta imbere aho bagana hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru imbererayo meza hari umuntu wicaye mu kagari k'abantubana b'ubumuga wambaye ingofero y'umukara y'urugara.

Kanyinya ni imwe mu gace ka Kigali. Ni ahantu hari ikigo nderabuzima cyiza kigezweho, cyubatse mu buryo bugeretse mbese ni ukuvuga mu igorofa, Imbere yaho hari ubusitani bwiza, butuma abantu bahakorera n'abaharwariye babona umwuka mwiza.

Umugabo wambaye ikaburiya y'umweru y'amaboko maremare n'agapfukamunwa k'ubururu, yambaye mu matwi ibikoresho bimufasha kumva uko umutima utera, yabishyize ku mwana wambaye hejuru ubusa uri guseka, wambaye ipantaro y'umukara, imbere y'uwo mwana hari undi musore wambaye ikabutura n'umupira w'amaboko magufi n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, witeze igitambaro mu mutwe.

Mu busitani hashizemo igiti kiriho ibendera ry'u Rwanda, impande y'ubwo busitani hari akayira k'abanyamaguru karimo umuntu wambaye ikote ry'umukara rifite amaboko maremare y'umutuku, impande ye hari ubundi busitani burimo indabo nyinshi, imbere yabwo hari amazu yubakishije amatafari hirya gato, hepfo hari amazu menshi asize amarangi y'umweru.

Hari ahantu ujyenda ugasanga niho bafatira ibizamini, maze bamara kubifata bakajya mu nzu bakagupima ibizamini bafashe bakamenya indwara urwaye. Aho hantu iyo uhagiye ubasanga abaganga b'inzobere. Imbere y'inyubako imeza uko, hari abantu bahagaze bambaye imyenda yiganjemo iy'umweru, ubona ko bafite icyo bahuriyeho.

Inzu yubakishije amatafari ya munyo isakaje amabati y'umutuku imbere mu rubaza rwayo bateyemo irangi ry'umweruru ifite inkingi eshatu imbere y'idirishya hateye intebe ya rububuta, imbere y'iyo nzu hahagaze abantu batandatu hejuru y'ibaraza imbere haditse ku kigo nderabuzima cya gishweru.

Inzu y'igorofa imbere yayo hari amabendera atatu hagati harimo ibendera ry'u Rwanda, imbere yayo hari abantu bari kwinjira n'abandi bari gusohoka, imbere kandi hari icyapa cyanditseho ngo abihuta na ho ku ruhande rwo hirya ibumoso hari icyanditseho umubare makumyabiri, impande yacyo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara isa n'ijiri.

Abantu bane bambaye amataburiya y'amaboko maremare y'umweru, harimo abahungu babiri n'abakobwa babiri, bari imbere y'ameza bamwe bicaye abandi babiri bahagaze, umukobwa umwe uhagaze afashe mu ntoki z'ibiganza bye ikintu kirimo amazi, ari gusuka mu icupa ry'umweru, rifiteho igipapuro cy'umuhondo inyuma cyanditseho amagambo yanyanditse mu nyuguti z'icyatsi no mu yandi mabara.

Inzu isakaje amabati y'ubururu yubakishije amatafari ya m munyu yanditseho amagambo Isange one stop center Remera-Rukomo, ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi rya shokora birimo ibirahuri, mu rubaraza rw'iyo nzu hasizemo irangi ry'umweru, ifite inkingi imwe nayo isize irange ry'umweru. Impande y'iyo nzu hari ubusitani bukikijwe n'indabo z'ibara ry'umuhondo. Inyuma gato y'iyo nzu hari indi nzu isakaje amabati y'umutuku, impande yayo hateretse ibigega by'umukara.

Umugore uteruye umwana yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, yambaye umuringa mu ijosi, afite imisatsi y'umukara, inyuma ye hari umugore wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu ifite akabara k'umweru mu ijosi, yambaye amataratara afite imisatsi migufi izirikiye inyuma.

Umugore wicaye ku gatebe karahuta wambaye imyenda isa ya move ishati n' ipantaro, ishati y'amaboko magufi isatuye ku mpande yambaye agapfukamunwa munsi y'akananwa indorerwamo z'amaso, yambaye kandi uturindantoki mu biganza byombi, afashe ku kuboko k'umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umukara n'umweru ufite umusatsi mwinshi wawuzirikiye inyuma, wegeranye n'undi wambaye ikanzu ufite mbi nkeya.

Mu nzu isize amarangi y'umweru, ifite inzugi z'ibyuma zifite ibirahure bituma mu nzu hinjiramo urumuri, harimo umugore wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umweru n'itaburiya y'umweru y'amaboko magufi izengurutsweho n'akabara k'umutuku ku kuboko washyize amaboko mu mashini ifunguye y'umweru n'ubururu.

Icyuma kinini kifashishwa hapimwa indwara umuntu arwaye, umuntu akiryamaho bakamwoherezamo imbere maze kikamupima kikareba uko ameze, icyo cyuma kirahenda ariko kandi gisuzuma indwara nyinshi ku buryo niyo cyahenda inshuro nyinshi abantu baba bagomba kukigura kigakoreshwa mu buvuzi.

Imbere mu cyumba gisize amararangi y'umweru hari abagabo babiri bahagararanye bambaye amatabuririya y'umweru n'udupfukamunwa tw'ibara ry'ubururu, umwe muri bo yambaye amataratara. Inyuma yabo hari utubati tureture tubasumba bahagaze bareba mu mashini nini iri imbere yabo.

Inzu yubakishije amatafari ya nkonyu ku gice cyo hejuru ugana ku gisenge, iteye irangi ry'umweru, hejuru iriho umurasire imbere yayo hari indabo, harimo indende n'ingufi ziringaniye z'umuhondo n'icyatsi, imbere yaho hari umuhanda w'igitaka kuri rya bara ry'umuhondo wegera ku gisenge haranditse ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Inzu yanditseho amagambo ngo Shyira disitirigiti hosipito, ni inzu bigaragara ko ari iy'ivuriro, isize amarange y'umweru, isakaje amabati y'umutuku, imbere ku gisenge hariho akabaho k'umukara ifite inkingi z'umweru.

Inzu z'amagorofa uruhande rumwe rwibumoso yubakishije amatafari ruriba, ku rundi ruhande isize irangi ry'umweru, hagati hari ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo manini y'umweru ngo ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, imbere y'iyo nzu hari ubusitani bw'ubwatsi bugufi hagati mu nzira iza kuri iyo nzu hateyemo igiti kirekire.

Utubati turimo udukarito n'amacupa y'imiti, buri kabati hasi kagiye gasigwa irangi ry'umweru hejuru gafite ibirahure bireberana, impande ya buri kirahure hariho akarate gasize ibara ry'icyatsi, hasi aho utubati duteretse hari amakaro y'umweru, imbere gato hari intebe y'umweru, hejuru harimo amatara abiri ndetse na ho hasize irangi ry'umweru, hirya ku kabati harambitse mudasobwa.

Imbere y'inzu y'igorofa isize irangi ry'umuhondo ku ruhande rw'iburyo n'ibyumweru ku ihande rw'ibumoso yanditseho ngo inzu y'ababyeyi hari abagore bane bambaye impuzankano y'amapantaro n'amashati afatiwe ku mpande y'amaboko magufi aba babyeyi bose bambaye udupfukamunwa impande yabo hari ubusitani kuruhande rw'ibumoso hari ururabo.

Iruhande rw'akayira, hari ubusitani buzengurutswe n'indabo zifite amabara y'icyatsi, n'ay'umuhondo. Hagati hateretsemo ururabo ruri mu kintu cy'umutuku. Imbere hari inzu ifite amadirishya asize irange ry'umweru harimo ibirahuri. Imbere y'iyo nzu, hari umuntu wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.

Iruhande rw'umuhanda w'igitaka hari umuryango muremure usakaye. Hejuru imbere hayo hasize irangi ry'umweru ryanditsemo amagambo ngo ikigonderabuzima cya Kigina. Iruhande rw'umuryango hahagaze umugore uhetse umwana ukenyeye n'igitenge, wambaye agapira k'amaboko magufi. Imbere yahashyize igitambaro cy'umweru kirimo akabara k'ubururu gato. Imbere muri wa muryango harimo inzu ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu n'ibirahuri. Hejuru isakaje amabati y'umweru.

Icyumba gisize amarangi y'umweru kirimo ibitanda bibiri biryamyeho abantu babiri, umwana n'umuntu mukuru, ibyo bitanda byose bihuriye ku kuba bifite amaguru y'umweru, ikiri ku ruhande rw'iburyo gifite aho baryama h'umweru ndetse n'igodora y'icyatsi.

Abantu bane bahagaze mu cyumba kimwe, bambaye amataburiya y' amaboko maremare y'umweru, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'ingofero z'umweru bamwe abandi z'ubururu, bahagaze imbere y'icyuma gicometseho uduhombo dutatu n'utwuma twinshi, kuruhande rw' iburyo imbere hateretse amacupa y'umweru umunani arimo ubusa.

Abagore bahagaze bareba imbere, bambaye impuzankano y'ipantaro n'ishati isatuye ku mpande y'amaboko magufi, bafunze amapfunsi, batanu bafungishije ukuboko kw'indyo undi umwe afungishije ukuboko kw'imoso, hejuru yabo haranditse ngo ivuriro ry'ibigwi.

Mu nzu ifite inkingi n'inkuta bifite amabara atandukanye nk'umuhondo, icyatsi, umweru n'ubururu, harimo intebe zifite amabara y'ubururu n'icyatsi, akanyamasyo n'ibindi bikoresho bitandukanye birimo nk'akabati, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi.

Ubusitani buri hagati y'amazu buteyewe n'ibiti by'imikindo bukikijwe n'indabo zifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, imbere yabwo hari amazu afite inkingi z'ibyuma hakurya harimo ziparitse mu gisharagati kiri imbere y'amazu asakaje amabati asa icyatsi.

Inzu y'amagorofa atatu yubabakishije amatafari ya munyu, ifite hejuru icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu nyuguti nini z'icyatsi ngo ivuriro ry'inyenyeri, ifite umuzenguko w'uruzitiro rw'ibyuma ruriho senyenge, imbere kuru ruhande rw'iburyo hari moto iri impande y'akagega gato, ku ruhande rw'ibumoso hari ikigega kinini cy'umukara cyegeranye n'inzu ngufiya isakaje amabati y'umutuku.

Abagore batatu bahagararanye bambaye amataburi ya asa y'ubururu afite imifuka minini hasi imbere n'undi umwe ku gatuza iburyo, inyuma yabo hari ubusitani hari ibiti by'umukindo n'ibindi biti binini by'inganzamarumbo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara aseka yifashe mu biganza, yicaye ku gatebe kategamirwa gafite umufariso w'icyatsi n'amapine, yicaye impande y'uburiru bwabugenewe kuryamishwaho abantu bari kuvurwa kwa muganga.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'amaboko maremare iriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda wambaye agapfukamawa munsi y'akananwa afashe ku rutugu umwana wambaye ishati y'amaboko magufi y'icyatsi ufashe igikoresho cy'amenyo umugabo ashyize uburoso ku menyo ya cya gikoresho umwana afite inyuma ye hari abantu bahagaze ku murongo inyuma yabo ari ikibaho.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite ibirahure, parafo y'umweru n'amata ari kwaka; harimo inzugi zifite uturahu hagati n'urugi rufungurirwa habiri, ku ruhande hari intebe umuntu yicamo, naho ahagana imbere ho handitse amagambo ngo imagensi rumu.

Imbere mu cyumba gisize amarange y'umweru kirimo urumuri rwinshi, harimo intebe ebyiri impande y'intebe y'ibumoso hateretse ameza ariho mudasobwa imbere y'imeza hateretse intebe ngufi, kuru ruhande rw'ibumoso impande ya ya ntebe hari akabati gateretseho utuntu twinshi.

Inzu y'amagorofa, ifite umunara hejuru n'ibigega, hepfo ifite ibirahure, imbere yayo haparitse amamodoka ahaparikwa, izengurutswe n'urugo ruteyeho indabo, hanze yayo hari icyapa cyanditseho ngo kwa Nyirinkwaya.

Mu cyumba kirimo ibitanda byinshi, hasizeho irangi ndetse hamanitsemo supanete, bigaragarako iyo ugiye kwa muganga kwivuza, bakagusangana indwara ari aho ngaho bakuraza, iyo bagushyize urakira maze kuko baba bakwitaho buri munsi abaganga babizobereye.

Mu ntebe iri mu nzu ifite amadirishya y'umweru n'ibirahure hicayemo umukobwa wambaye ishati y'amaboko magufi isatuye ku mpande y'ubururu, yicaranye n'umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibifungo by'umweru wambaye amataratara, bari kurebana baseka, umusaza aziritse ku kuboko igikoresho cyifashishwa bapima umuvuduko w'amaraso naho umukobwa agifite mu ntoki.

Ku izuba ryinshi umwana wambaye ipantaro imwegereye, ikote ry'umukara, ishati y'umweru asunitse mu kagare k'ababana n'ubumuga umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, bari kwerekeza imbere ahantu hari umbukeka hari igisharagati kiriho ibitambararo by'icyatsi, umweru n'umuhondo, imbere yabo hari umukobwa wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi.

Umwana wicaye ku ntebe y'umweru, yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, afite umusatsi muke yambara ameherena magufi, imbere ye hari umugore wicaye ku ntebe y'umweru, wambaye ijipo y'ivu n'itaburiya y'amaboko maremare ndende y'umweru, yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'amaherena maremare, afite imisatsi miremire itendera mu mugongo, ari gushyira umwana igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso ku kuboko.

Mu nzu irimo urumuri rw'itara harimo utubati duteretsemo udukure tudashyirwamo uducupa hakurikijwe ubwoko bw'ibibiririmo utwo ducupa n'amabara y'amakurete, hari ahari amakote y'umweru ay'ubururu ay'icyatsi n'ay'amove.

Impande y'icyapa gisize amarangi y'umwana n'umuhondo, cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru runini ngo ibiro bya a AHF mu Rwanda, hari inzu y'igorofa ifite inkuta zisize amarangi y'umweru n'amadirishya arimo ibirahure asize irange ry'ivu.

Imbere y'ibendera ry'u Rwanda rishinze mu busitani riri impande y'ahantu hari imbuga iparitsemo imodoka na moto, hari inzu z'amagorofa zegeranye zisakaje amabati y'umutuku, ujya ku igorofa rya kabiri hariho uturindanbasazi dutuma amuntu adashobora guhanuka uri kujya ku igorofa hejuru.

Abantu icyenda bahagaze imbere y'inzu isakaje amabati y'ubururu yanditseho ngo isanga wani sitopu senta, ibitaro bya kabutare. Harimo umukobwa umwe wambaye itaburiya abandi bose bambaye imyenda isanzwe yiganjemo amapantaro y'umukara. Bose bambaye udupfukamunwa.

Ku nzu isakaje amabati y'ubururu n'imbere yayo hari kuva izuba ryinshi imbere ku nzu hariho amatara y'umweru ateretse kugatereko k'umukara iyo ku rubaraza rwaho wasi iranye ry'umweru ifite amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'umuhondo kandi by'ibyuma

Utubati dutatu tungana, n'akandi kamwe katangana n'utundi kari mu ruhande rw'iburyo katagaragara neza, utubati dutatu dufite ibirago birindwi, buri kirago gisizeho irangi ry'umweru kandi kirambitseho udukarito duto tw'imiti cyangwa amacupa y'imiti.

Imbere mu nzu hasize amarangi y'umweru ku rukuta no ku nkingi hejuru, ku ruhande rw'ibumoso hari ahanditse ngo aho wabariza abaforomo, ku meza hari hari mudasobwa inyuma ya mudasobwa hari urugi rushushanyijeho abantu babiri, ku rundi ruhande hari urugi rudashushanyijeho, hakurya mu ruhande rw'ibumoso hari inzugi z'ibirahuri zireberana ku buryo uri inyuma arebabe imbere.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, birimo ibirahuri. Imbere mu rubaraza, ifite inkingi eshatu zisize irangi ry'umweru. Hejuru y'izo nkingi hari umukaba usize irangi ry'umweru, wanditsemo amagambo ngo inzu y'ababyeyi.

Ibikingi by'amarembo byubatswe n'ibyuma hejuru handitseho ngo ibitaro bya Kabgayi winjiye imbere harimo umuhanda w'igitaka kuruhande rw'epfo hari abantu bane bari kuganira ukomeje ku ruhande rwaruguru hari umuntu uri ku igare uhetse ibikarito imbere ye hari amazu yubakishije amatafari afite amadirishya y'umweru.

Inzu iteye irangi ry'umweru irimo urumuri rwinshi rutangwa n'amatara. Harimo intebe y'umukara iri imbere y'akabati k'umweru, imbere yayo hari ameza arambitseho mudasobwa. Ku ruhande rw'iburyo hari ameza manini afite hejuru umubiri w'umukara, ateretseho imashini ifite ibara ryo hasi ry'umukara. Ifunguye hejuru umubiri wayo munini n'umweru impande yayo hari terefone nini yegeye n'imashini isohora impapuro.

Inzu iri munsi y'ikirere gifite ibicu by'ubururu n'umweru ariko higanjemo ubururu ifite inkingi zimanukiramo impombo zimanura amazi, zisize irangi ry'umuhondo, ifite ibirahure byinshi imbere, imbere hayo hubakishije amabuye, imbere mu kayira hari gutambukamo abantu babiri, umwe wambaye itaburiya y'amaboko magufi ariko imanutse igeze munsi y'kibuno, n'undi wambaye itaburiya y'amaboko magufiya n'imbere ishati y' amoboko maremare.

Aha hari ahantu iyo umugore utwite agiye kwa muganga bamushyira, aho iyo ugiriyemo bagufasha kwita ku mwana wabyaye cyangwa utarabyara uri no kubise bakakwitaho, ni inzu yagenewe gufasha ababyeyi, iyo umubyeyi ayigezemo, aboneramo ubufasha butandukanye ahabwa n'abaganga bo ku kigo nderabuzima ku bitaro cyangwa ku ivuriro runaka.

Hejuru y'umuryango haranditse ngo "icyumba kibagirwamo." Ni umuryango ufite inzugi ebyiri zifite ibirahuri, kuri buri rugi impande yaho hari igikuta gisize irangi ry'umweru. Hasi y'urugi hari ibara ry'umuhondo naho hejuru hari parafo y'umweru, hirya impande y'urugi imbere gato hari itara ry'umweru riri kwaka.

Mu cyumba cy'ivuriro, bigaragara ko cyateguwe neza, harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura ariko cyane cyane byiganjemo ibyuma. Ni icyumba ubabona ko cyatwaye amafaranga menshi bashyiramo ibyuma kuko harimo utumeza n'utundi tuntu twinshi twifashishwa n'abaganga mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo itandukanye utugaragara cyane ni ibikoresho byifashishwall mu myitozo yo guterura ibiro dufite ibara ry'umukara hagati aho umuntu afata ari guterura harimo akuma ko mu ibabara ry'umweru.

Ahantu ubona ko ari mu nyubako zo kwa muganga, hari ubusitani bwiza ubona ko bwitaweho, mbese urabona ko bagiye batera ibiti bishobora gutuma ako gace karimo ivuriro abantu bahari babasha kubona umwuka mwiza.

Igikuta cyubakishije amatafari ya nkunyu, kirimo idirishya rifite inkingi zisize irangi ry'umweru, ririmo ibirahure, hejuru hasize irangi ry'umweru, handitsemo amagambo mu nyuguti nkuru, z'ubururu, ngo isange wane sitopu senta aho bakirira abakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Mu bitaro birimo igishushanyo, bisize irange ry'umweru ndetse ku madirishya hahanitseho irido y'umweru, harimo parafo y'umweru n'itara ry'umukara risa n'irireba hasi. Kiragaragara neza, harimo urumuri ruhagije, mbese cyitaweho ku buryo bushoboka.

Igitanda gifite isuku cy'ibara ry'umweru ku nkuta, parafo y'umweru n'amatara ari kwaka harimo igitanda kirambuyeho ikizingo uhereye hejuru aho igitanda gihera kugeza hepfo aho giherera, ariko ikizigo nticyashize, impande y'icyo gitanda hateretse akabati karimo ibikoresho bitandukanye.

Icyumba gifite amarangi y'umweru na purafo y'umweru gifite amakaro y'umweru mu muryango hariho amakaderi y'ibyuma afite ibara ry'umweru wa zahabu, imbere mu cyumba harimo ibitanda bifite amapine birambuyeho udutambaro tw'ubururu.

Umuntu wicaye ufite ukuguru kuriho ubwoya ya azamuye ipantaro y'ubururu ageza hejuru y'ivi, afatishije ukuboko kw'indyo kuri rya vi ariko ahakandishije igitambaro gifite ibara ry'ubururu, naho ukundi ukuboko kw'imoso agufatishije hejuru y'ivi.

Ku meza hateretseho amasahani atatu, imwe iriho amagi, ibishyimbo, naho indi iriho imineke, inyeri n'ibindi biribwa. Ku ruhande gato hari agasobane kadozwe mu buryo bwa pande ebyiri ebyiri zingana, harimo ubwoko bw'imboga butandukanye aho twavugamo nk'amashu ibitunguru n'ibindi.

Umusore uryamye ugaramye afite terefone mu kiganza cye cy'iburyo yambaye ikabutura y'umweru irimo amabara y'umukara n'umutuku yambaye umupira w'maboko magufi w'umukara yambaye kandi isaha ku kiganza cye cy'ibumoso y'umweru afashijwe guhina ukuguru n'umusore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru uwo musore uhinnye ukuguru yambaye isogisi ry'umukara.

Umuntu wuriye ku ngazi, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'amupira w'amaboko magufi w'umweru, hasi bari kumuhereza rusinga, umuhereza urusinga yambaye imyenda y'ubururu n'inkweto z'umukara, yambaye agapfukamunwa k'umukara, inyuma ye hari uwambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'agapfukamunwa k' umukara. Inyuma y'uwo hari akabati k'umweru, uhagaze ku ngazi afashe ku kintu cy'umutuku hejuru, munsi y'ahanditse ijambo ibitaro.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura ufite ikiganza kiriho inzara nto, yicaye mu busitani munsi y'izuba afashe n'ibiganza bye byombi ukuguru kwe yunamye akurebaho amenyo ye agaragara.

Amacupa atatu y'umweru ateretse akurikiranye ariho ikirango cy'umweru n'ubururu hejuru ku kirango hariho amagambo manini yanditse mu mabara abiri umweru n'umuhondo ngo guhagarika ububabare icupa ry'imbere rirapfunduye amacupa abiri akurikiyeho ararisumba kandi yo arapfundikiye.

Jya ukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi, umusore yarambuye ukuguru inyuma y'ahantu ari hari indabyo urabona ko hari kuva izuba ryinshi, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto ubona ko zimeze neza munsi nk'aho zikiri nshyashya.

umugore wunamye afashe munsi y'ibirenge, afite inzara z'umutuku, ukuboko kwe kw'iburyo hariho imiringa, ari guseka, hejuru yambaye agapira kadafite amaboko k'umuhondo, hasi yambaye ipantaro imwegereye y'umutuku wijimye, aho yicaye hasi yicaye ku gatapi k'icyatsi, hasi aho yicaye hari imbaho z'igitaka.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umweru irimo amabara y'umukara n'umutuku n'inkweto z'umukara n'umweru ari kwiruka impande y'imboga n'imbuto zirimo karoti, pome, amaronji, inyanya n'amashu.

umugabo wambaye ijiri y'icyatsi n'agapira k'umweru imbere arandase umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umutuku imbere yanditseho imibare ngo gatanu gatatu zeru kabiri inyuma yaho hari undi wambaye ijiri y'icyatsi inyuma ye hari icyapa kirekire cyanditseho amagambo ngo sura u Rwanda.

Umugore ufite imisatsi miremire iziritse itendera mu bitugu, yambaye agasengeri gafata amabere kagarukiye hejuru y'umukondo no munsi y'amabere, yambaye agakabutura k'icyatsi n'inkweto z'icyatsi ariko zifite hasi h'umweru, ahagaze ku kuguru kw'imoso ukw'indyo yakuzamuye agufatisha amaboko yombi kuringaniye n'amabere.

Umugozi ufite imitwe ibiri uzinzemo uruziga wagera hasi ukazingwamo ipfundo bituma buri mutwe ureba mu gice cyawo iburyo n'ibumoso imbere muri rwa ruziga harimo imirasire y'izuba n'abantu babiri umwe uri hejuru wambaye imyenda y'umweru, ipantaro n'ishati n'umukandara munda w'umukara hasi hari uwambaye imyenda y'ubururu ipantaro ni icyatsi n'umukandara mu nda munsi hasi ya rya pfundo handitse amagambo ngo ishyirahamwe ry'umukino wa judo mu Rwanda.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru itereruka, ufite ubwanwa buke bugana hejuru ku munwa, ahagaze ukuboko kw'imoso guciye hejuru y'ukw'indyo, ukw'indyo gufunga kw'imoso aganisha ku bitugu, afunze ingumi mu maboko yombi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka isize amarangi y'umweru n'andi make y'umutuku. Inyuma ifite y'ipine na ho hejuru ifiteho amatara y'impuruza. Imbere yayo hari umukingo uri ku muhanda wubakishije amabuye. Na ho hejuru y'uwo mukingo hari ishyamba ririmo ibiti. Inyuma yabyo hari amazu.

Umuntu w'igitsina gore ufite icupa ry'amazi uri kunywa, yambaye imigozi y'indangururamajwi mu gutwi, aziritseho ikintu cy'umukara ku kuboko yambaye agapira kadafite amaboko gafite ibara rya move, afite umusatsi w'umukara uko bigaragara ni umwirabura.

Kwa muganga haba ibyuma byinshi, biba birimo insakazamashusho, ku buryo nk'iyo bari kubaga umuntu cyangwa arembye, bamushyiraho ibyo byuma bikajya bireba uko ubuzima bwe buhagaze. Muganga na we iyo aje areba kuri icyo cyuma, iyo umuntu ari muzima biba bigaragara, n'iyo apfuye icyo cyuma kirabigaragaza.

Umugore wambaye akenda kadafite amaboko k' amabara y' ubururu, umweru n' icyatsi, yambaye isume mu bitugu bye, areba iburyo bwe, ari kunywesha amazi icupa ry'umweru rifite umufuniko w'ubururu, ryanditseho amagambo y'umukara, yarifatishije ukuboko kwe kw'iryo.

Umuntu uryamye agaramye apfumbase inda, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, n'ipantaro imwegereye yumukara, afashwe ukuguru n'uwambaye itaburiya y'ubururu y'amaboko magufi ifite imifuka kumpande zombi wambaye ikirango gifashwe n'agashumi k'ibara ry'ubururu.

Iyo ukoze imyitozo ngororamubiri, ukagira ikibazo wenda ukavunika, jya wihutira kujya kwa muganga bagufashe, maze bakuzirikireho utundi dukoresho twagufasha kugira ngo iyo mbonene yawe ikire vuba. Ndabizi, abantu benshi ntibajya babikora ariko ni ingenzi.

Umugore yicaye impande y'igitanda asobekeranyije amaguru. Yambaye ipantaro y'umukara imwegereye n'agasengeri k'umukara kagarukiye munsi y'amabere no hejuru y'indi. Ukuboko kw'indyo gukoze hasi n'umutwe we uhengamye muri ubwo buryo. Naho ukuboko kw'imoso kuri hejuru y'umutwe. Umusatsi we uramanutse ukoze hasi. Hafi y'aho yicaye hateretse icupa ry'amazi.

Ahantu hari izuba, umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, ari kunywa amazi mu icupa rifite umufuniko ufite akantu umuntu anywesha, uwo musore afite umusatsi n'ubwanwa buke, ubona ko nta bwanwa afite, biragaragara ko atari yagakuze cyane.

Umugabo wicaye yambaye isengeri'umukara n nipantaro y'umukara yambaye agako mu ku kaboko k'iburyo afashe mu kiganza cye cy'ibumoso icupa ry'amazi ridafite umufuniko ukuboko kwe kw'ibumoso yakurengeje hejuru y'ukuguru kw'imoso afite ubwanwa buke budakabije.

Imbere y'umugabo uri gukora siporo yo kwiruka wambaye umupira udafite amaboko n'ikabutura, handitse amagambo y'icyongereza ngo ibyiza byo gukora siporo bihoraho, harimo ngo bigabanya umunaniro w'ubwonko ngo biringaniza ibiro, bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso kandi bifasha mu igogora.

Mu bwatsi bugufi hari umugore wicaye yarambuye amaguru yambaye ikabutura y'icyatsi irimo uburongo bubiri bumanutse bw'umweru ku ruhande yambaye agasengeri kagufi kagarikiye munsi y'amabere no hejuru y'umukondo arunamye afashe munsi yinkweto yambaye inkweto z'umweru zifite akaba k'umukara munsi.

Amaboko y'umuntu uteruoye mu biganza ibiribwa birimo; pavuro, karoti, inyanya tungurusumu, pome, avoka isatuye, ibitunguru n'ibindi, ku ruhande rw'ibumoso hari inkweto zirambitse hasi ku rundi ruhande hari agasambi kifashishwa muri siporo ukomeje ugana ku ruhande rw'iburyo hari umunzani wegeranye n'icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko ku magufi w'umweru ufite ikora n'ibifungo bitatu imbere, imbere yambayemo umupira w'umukara afatishije ukuboko kw'imoso kuko indyo agufatishije ibitambaro by'ubururu yicaye ku ntebe ifite imifariso y'umweru.

Umusore bigaragara ko afite amaboko nk'uwakoze imyitozo ngororamubiri ihagije, urabona ko ari kunywa amazi nk'uyashaka, ni umusore bwo biragaragara, amaboko ye arabigaragaza, aguteruye ni uguhita agukubita hasi ukavunika.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko magufi, yambaye amasogisi afite ibara ry'ivu n'aho ku muguno hari ibara ry'umukara yambaye n'inkweto z'icyatsi, ashinze ukuboko n'ukuguru kw'imoso n'aho ukuguru kw'indyo gushinze kuringaniye n'ukuboko kw'imoso.

Hari ibikoresho cyangwa imiti n'ibindi binyabutabire abantu bafata maze bikabongerera imbaraga, iyo bakora imyitozo ngororamubiri cyangwa se bakina imikino itandukanye twakwita nk'aho ari imikino ya siporo, harimo nko gukina umupira w'amaguru, uw'intoki n'indi minshi itandukanye.

Ibikapu bitatu, hasi ikinini gifite ibara ry'umutuku, imikondo y'umukara n'imashini z'umukara. Ikindi hejuru mu ruhande rw'ibumoso, hari igifunguye, hejuru kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, birimo amapamba, ibikoresho nk'imiti n'uturindantoki, naho ku rundi ruhande hari ikindi gifunguye umufuka w'inyuma kirimo imakasi n'utundi dukoresho.

Umugore wicaye arambuye amaguru yambaye ipantaro imwegereye y'ubururu, hejuru yambaye isengeri igarukiye munsi y'amabere no hejuru y'umukondo, afite imisatsi iziritse igera mu mugongo, arunamye ibiganza bye abirambuye hejuru y'ibirenge bye.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu cy'ingenzi, jya uyikora uyikorane n'abawe ndabizi bizagufasha, ndakwinginze niba ushaka kubaho neza gerageza ukore imyitozo ngororamubiri, kuko iyo utayikoze irakubangamira kuko ugiraho ingaruka nyinshi.

Abagabo babiri bambaye amajili y'umutuku ariho ikirango cy' umuryango utabara imbabare bambaye imipira y' umweru imbere y'amaboko magufi baturiye mu ntoki umugabo wambaye ipantaro y' umukara n' umupira w' umuhondo wanditseho umubare gatatu inyuma yabo hari ibiti bihagazemo abantu benshi bambaye imipira y' amaboko magufi y'umweru.

Iyo ukoze umwitozo ngororamubiri cyangwa ukajyana n'abandi mu myitozo hari igihe mukora imyitozo irengeje maze bikarangira mubirangije munaniwe cyane, icyo gihe rero iyo munaniwe hari igihe wumva n'umubiri wawe ukeneye amazi niyo mpamvu nujya uva mu myitozo ngororamubiri ujye ushaka ahantu hari amazi unywe kuko uba ufite umwuma.

Imashini y'umweru iri mu cyumba gisize irange ry'umweru. iyi mashini ahanini ni umweruru ariko igihe icomekwaho utundi tuntu dufite amabara atandukanye nk'ubururu n'umukara. Ku ruhande rw'ibumoso hariho utuntu tubiri ducometseho dufite ibara ry'ubururu naho ku rw'iburyo hariho utundi dutatu ducometseho dufite ibara ry'umukara.

Isanduku y'icyatsi iteretse irimo ibikarito birimo imiti itandukanye harimo iyo gusiga ahavunitse, yogusigaya ku bisebe, pomade ,n'ibinini. Ku mpande hari imakasi n'ibipfuko biteretse ku ruhande hasi.

Umugabo ufite ubwanwa buke yambaye isenge y'umukara n'agakomo gafite iba ry'icyatsi ku kuboko kw'indyo ari kunywa amazi avana mu icupa ry'umweru ashinze inkokora ku ivi ry'ukuguru kw'ibumoso n'inkokora ishinze kuri iryo vi ni iy'ukuboko kw'ibumoso.

Imugore ahagaze ku kuguru kumwe ku indyo yambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu imwegereye n'agasengeri gafite ibara ry'icyatsi kagarukiye munsi y'amabere no hejuru y'inda, ahagaze ku kuguru kumwe ku indyo ukundi kuguru agufatishije ukuboko kw'inyuma, ukuboko kudafashe ukuguru kuri imbere nta kintu gufashe agutunze mbere kurambuye.

Ikirahure cy'umweru kirimo ibisukikabifite ibara ry'umuhondo, giteretse impande y'icyuma gifite amape abiri kirambitseho imetero y'umuhondo, hasi impande y'icyo kirahure hari imbuto z'ubwoko butandukanye zifite amabara atandukanye, twavugamo nk'amaronji, inkeri na pome.

Umusore asutanya ku kuguru kw'imoso arambuye ukuguru ku indyo, yambaye inkweto z'umutuku hasi zifite hejuru amabara menshi yiganjemo umweru n'umukara, ku kuboko kw'imoso yambaye isaha arambuye ukuboko ku indyo agufatisha kurambuye ku indyo n'ubundi naho imoso ayishinga imbere y'ukuguru ku imoso guhinnnye.

Umukobwa aryamye yubitse inda ariko guhera ku nda ye gusubiza hejuru ntabwo wakoze hasi ashinshije amaboko hasi areba hejuru aramye afite imisatsi migufi ifungiye inyuma yambaye ipantaro yumukara imwegereye n'akantu gafata amabere k'agasengeri k'amabara y'ivu na orange mde ye hateretse indabyo eshatu.

Umugore wambaye impeta ku kiganza cy'iburyo ku rutoki rwa mukuru wa mame afatishije ukuboko kw'iburyo kuboko kw'ibumoso ahagana mu nkokora n'agatambaro k'ubururu yambaye ishati y'amaboko maremare agarukira munsi y'inkokora ifite ibifungo by'umweru n'umutuku hasi yambaye umwenda w'umukara.

Umugore afatishije icupa ukuboko kwe kw'imoso ririmo amazi ari kunywa iryo cupa rifite umunwa w'ubururu yambaye umupira w'amaboko magufi w'umutuku yambaye ekuteri mu matwi afite kandi imisatsi miremire y'umukara.

Umuntu wicaye yunamye yambaye isokoreki y'umukara ntakindi kintu yambaye hejuru, hasi yambaye ipantaro y'umukara ifiteho amabara y'umutuku ahagana imbere ku maguru yambaye inkweto z'umutuku ariko hasi zifite amabara y'umweru, imbere ye hari icupa riteretse ririmo amazi rifite ibara ry'ubururu.

Umugore ufite umusatsi muke, yambaye isengeri irimo amabara y’ubururu, icyatsi n'umweru, afite isume mu bitugu bye imanuka ikagera imbere ku mabere, mu kuboko kwe kw'indyo afite icupa ririmo amazi ry’umweru rifite umufuniko w'ubururu ari kunywesha amazi.

Umugabo ufite ubwanwa buke yambaye umupi w'amaboko maremare, afite icupa ry'amazi ari kunywa harimo amazi make icupa rye, ni umweru arifatishije ikiganza cyo kuboko kw'iburyo, asa n'uraramye ari kunywa afatijeho umunwa wo hasi.

Umukobwa wambaye akambaro kagufi katagira amaboko kageze munsi y'amabere no hejuru y'inda, asobekeranyije amaboko hejuru, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso n'indangururamajwi mu matwi ari kureba imbere nta musatsi mwinshi afite, imbere ye hejuru hari ibicu ahandi hasi hari amazi.

Umugore wicaye ku gasambi asubekiranyije amaguru imbere ya mudasobwa, yambaye ipantaro y'umukara imwegereye igarukira hejuru y'umukondo, n'aho hejuru yambaye agase k'umukara gafashe amabere kagarukiye munsi yayo, inyuma ye ahateretse intebe, n'aho iruhande rwe afite icupa ry'amazi n'ibindi byuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusore w'umwirabura wambaye ikabutura y'umukara Y'amabara'umutuku n'umweru yambaye inkweto z'umukara zifitei ibara ry'ivu n'isengeir y'ibara ry'ivu afite umusatsi utendera mu irugu Impande ye hari umukobwa usutamye yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko mugu ufite umusatsi utendera mu ijosi undi iri inyuma mu bitugu , imbere ye hari ameza n'inyuma ye hari imigozi miremire.

Hari ibyuma byifashishwa kwa muganga harebwa uko umurwayi ameze, ibyo iyo babikoresheje babasha kumenya ngo umurwayi ameze neza cyangwa afite ikindi kibazo, aha iyo urebye ubona icyuma kiba kiri munsi y'akandi kuma gafotora kaba karimo ishusho y'umuntu bigaragara ko ari umuganga.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, aryamye yiseguye ukuboko ku buriri bufite igodora y'umukara, ukuguru kwe kw'imoso yakurengeje ku kw'indyo ukw'indyo kurambuye ukw'imoso kurahinnye, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'maboko magufi umufashe ku rutugu no mu mbavu, inyuma hari undi wunamye ashinze ukuboko kuri bwa buri hafi n'amaguru wambaye umupira w'umukara areba mu mbavu za wa mugabo.

Umugabo wambaye amasogisi y'umweru mu nkweto z'umukara zifite hasi w'umweru ashinze ivi ry'iuburyo n'aho ukuguru kw'imoso kurahagaze, arunamye yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko maremare, afatishije ibiganza bye byombi ku ivi ry'ukuguru kw'imoso.

Umugore uhagaze hanze afite imisatsi miremire izirikiye hejuru yambaye agasengeri k'udushumi, azamuye ukuboko kwe kw'indyo agufatisha mu bitugu hagati y'amaboko, naho ukw'imoso agucisha hejuru y'umusatsi n'umutwe agufatisha ku nkokora y'ukw'indyo.

Umugore wambaye agapira kadafite amaboko k'amabara y'ubururu, icyatsi n'umweru, afite isume mu bitugu, mu kuboko kwe kw'iburyo afite icupa rya'mazi ry'umweru rifite umufuniko w'ubururu, ari kunywa amazi araramye asa n'ureba hejuru.

Imbere ya mudasobwa igendanwa ariko iriho icyuma bifashisha bandika amagambo, hicaye umugabo uri kuyirebamo bigaragara ko ari kurebamo amashusho, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umutuku, nta musatsi mwinshi afite, ahantu ari hari ibyuma bitandukanye, n'intebe bigaragara ko ari izo kwa muganga.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi w'umukara arunamye, ukuboko kumwe agufashe mu mugongo ukundi gufashe munsi y'ikirenge yambaye ipantaro nto imwegereye, hejuru yambaye agapira gato kadafite amaboko, gafashe amabere kugeza hejuru y'umukondo.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara yunamye inyuma ye hari kurasirazuba, yambaye isaha y'umukara, ukuboko kw'ibumoso intoki ze ziho inzara ngufi, afashe n'ibiganza byombi ku ivi ku kiganza cyo hejuru k'ibumoso yafashe hejuru ik'iburyo gikanze hasi.

Iyo umuntu akora siporo hari imiti aba akenera yo kumuvura, aba akeneye amazi, ariko iyo atsinze bamuha n'imidari, umuntu rero ukora imyitozo ngororamubiri akenera kurya imbuto harimo nk'inanasi, imineke, amarongi, n'izindi, byose kubw'ineza y'ubuzima bwe.

Abantu benshi biganjemo abana bato b'abakobwa n'abahungu, bari ahantu mu kibuga kinini, imbere yabo hari umuntu wambaye ikabutura, inkweto z'umukara n'umupira w'umweru, usa n'uri kubafasha mu gukora imyitozo ngororamubiri. Impande y'ikibuga barimo, hari ibiti mu ruhande rw'ibumoso, naho hepfo yabo inyuma, hari inzu isakaje amabati y'umutuku nini.

Abantu babiri n'uw'igitsin gore n'undi w'igitsina gabo yagamanyeho mu mugongo muru umwe araramye areba hejuru bari kunywa amazi mu macupa abiri yombi afite iminwa ifite ibara ry'ubururu umugore afite imisatsi miremire, yambaye hejuru umwenda uri mu ibara ry'umukara umugabo mumaso ntagaragara neza, ari mu ruhande rw'ibumoso yambaye umupira uri mu ibara ry'ivu.

Akabati gakozwe mu byuma, gapangwaho imiti, gasize irangi ry'umweru, gakozwe ku buryo gapangwaho imiti y'ubwoko butandukanye iri mu bikarito ku buryo itakwivanga.

Umusore uhagaze areba inyuma yambaye isenge y'umukara izengurutsweho ibara ry'umuhondo mu ijosi no ku maboko, azamuye ukuboko kw'indyo agufatisha inyuma mu mugongo ku rushyi rw'ukuboko kw'imoso, naho ukuboko kw'imoso agucisha hejuru y'umutwe agufatisha ku nkokora y'ukuboko kw'indyo.

Kwa mugangaba haba ibikoresho byinshi bitandukanye, aho uhasanga hari n'ibyo utari uzi ko bikoreshwa. Hari imyenda yambarwa n'abaganga, hakaba n'ibindi bikoresho bigishirizaho abantu bari kwigana n'ibijyanye n'ubuganga. Hari inshinge, hari udukarito n'ibindi byinshi byifashishwa n'abaganga.

Umugore wica yasebekekiranyije amaguru ku gasambi imbere ya mudasobwa arambuye ukuboko kw'indyo akwerekeza mu cyerekezo cy'ibumoso, naho ukuboko kw'imoso gufatisha urushyi rw'ukuboko kw'indyo, yambaye agasengenge k'umukara kagarukiye munsi y'amabere n'ipantaro imwegereye.

Igare ryagenewe ababana n' ubumuga, rifite amapine abiri manini y'umukara n' abiri mato imbere y'umukara. Imbere y'amapine mato hari aho uri mu igare yicara, hejuru hari intebe ugenewe kujya mu igare yicaramo, inyuma mu mugongo hari ibyuma bibiri byagenewe gufatwaho n'umusunitsi.

Umugore wambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'umweru imwegereye, afite insimburangingo ku kuguru kw'imoso, imbere ye hari insimburangingo yambaye urukweta rw'umweru na yo ifite ibara ry'umweruru ariko hejuru ikaba ifashwe n'ibyuma by'umukara, imbere yayo hari indi nsimburangingo itambaye inkweto ifite ibyuma bifite ibara rya zahabu, imbere gato hari indi nsimburangingo yambaye urukweto rw'umukara hejuru izengurutswe n'ibyuma by'umukara.

Ku meza y'umweru hariho ibinini bipfunyitse mu mashashi yabigenewe, ibindi bipfunyitse mu bipapuro, uducupa turimo umuti usigwa ku ruhu, n'utundi dutatu turimo umuti wo kunywa, hariho kandi ibipfuko ndetse n'uturindantoki.

Ukuboko gufite ikiganza gifite intoki zifite inzara ngufi, gufashe icupa ryuzuye amazi rihagaze rifite umunwa w'ubururu n'akantu gafasha umufuniko gufataho k'ubururu. Inyuma hari ibicu by'ubururu birimo n'amabara y'umweru.

Umusore wafatishije ukuboko kumwe mu mayunguyungu, ukundi akugufatisha ku kirenge kiri kuturindabasazi turi impande y'amazi, yambaye ikabutura y'umukara, inkweto z'umweru n'umupira w'amaboko magufi w'umweru.

Ku zuba ryinshi umugabo yashinze ukuguru kw'iryo imbere ukw'imoso agushyira inyuma nk'ugiye gushinga iryo vi apfukama inyuma ,amaboko ye ayashyira k'ukuguru kw'ivi imbere, yambaye isengeri y'umukara ipantaro y'umukara irimo amabara ku mpande, amasogisi y'umweru, n'inkweto z'umweru.

Amacupa atandatu, akurikiranye mu buryo angana mu ngano, atatu manini y'imbere afungurwa hakandwa umufuniko hejuru, ikirimo imbere kigasohoka, andi atatu y'inyuma afungurwa hafungurwa umufuniko, handitseho amagambo mu ibara rinini ngo stop pain, mu kinyarwanda bivuga ngo kugabanya ububabare.

Umusaraba munini utukura hejuru, umuryango utabara imbabare ishami ry'u Rwanda hasi umuryango utabara imbabare ishami ry'u Rwanda ushinzwe gutanga amahugurwa ku gutanga ubutabazi bwihuse.

Umugore yicaye hasi arambuye ukuguru kw'indyo naho kkw'imoso munsi y'ikirenge hakofashe ku ivi ry'ukw'indyo, yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara imwegereye n'agasenge kagarukiye hejuru y'umukondo, arunamye ibiganza bye byombi abifatishije munsi y'urukweto rw' ukuguru kw'indyo.

Ikiyiko kiriho utuntu dusukika, dufite ibara rya zahabu, kiri hejuru y'agasafuriya gafite imikondo ibiri, gateretse ku kintu gifite ibara rya shokora, impande y'ako gasafuriya hari tangawizi n'utundi tuntu tw'utwatsi dufite ibara ry'icyatsi.

Imiti gakondo, cyane cyane yiganjemo ubuki, iyo bayikoresheje bayisiga ku ruhu baracya bakamera neza. Abatabizi ni bo batabikora, ariko iyo wamaze kubisobanukirwa iyo miti irakuvura kandi ukumva urakize, ntihagire ikibazo ugira.

Icupa rishyirwamo ubuki ryometseho ikirango kiri mu ibara rya zahabu ku ruhande rwo hasi gishushanyijeho uruyu kiri kuguruka naho ku ruhande rwe hejuru hashushanyijeho uruyuki ruri mu ibara ry'umukara kuri icyo kirambo handitseho amagambo ngo ubuki bw'inzuki ubuziraherezo.

Imiti gakondo ni myiza, iyo uyikoresheje neza irakuvura. Hari abantu bajye batekereza ko idakora ariko njye ndabizi ko ikora. Hari iba yaragiye igatunganywa, ikuma, hari iyo basekura, hari n'indi baba baragiye bakanika buri gihe kugira ngo imere neza.

Umuntu wambaye ikoti ry'amaboko maremare, afite intoki zitariho inzara, afashe mu biganza bye agasekuzo gato ari gusekura mu isekuru nto, akaboko ke k'imoso agafatishije ku isekuru kugira ngo itanyeganyega, impande ye aho yasekuru iteretse hari amabuye menshi.

Imiti gakondo ni ikintu cy'ingenzi, ntukayifate nkaho isanzwe kuko iyo uyikoresheje neza irakuvura, turabizi iyo urwaye buri gihe uba ushaka ikintu cyagukiza vuba, ujye ugenda ushake abantu bafite imiti gakondo, bayiguhe kuko hari iyo baba basekuye mu dusekuru duto, hari n'indi baba bumishije ku zuba, bayanitse ahantu ku birago.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba, ni amavuta meza, iyo uyisize akuvura indwara zitandukanye kandi ameze neza, yongera ubuhehere. Nkuko tubizi ikikakarubamba ni igihingwa cyiza, gifasha abantu bose.

Igiti kirekire cy'umuravumba gifite amashami menshi yegeranye n'amababi menshi giteye hagati y'urugo rw'uruzitiro n'inzu. Uru ruzitiro rwubakishije amatafari ya rukarakara naho inzu yo iteye umucanga.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, areberana n'atareberana, amanini n'amato, amaremare n'amagurufi, apanze ku butanda bibiri, ako hasi n'ako hejuru, hari afite imifuniko y'umuhondo n'ay'umutuku, amenshi ariko ni afite imifuniko y'umuhondo, imbere mw'areberana harimo ibintu by'ifu y'icyatsi.

Akatsi gato kava mu kinani, iyo ugafashe ukakavuguta kavamo umuti w'ingenzi, bakita icyasiro, ni agati keza kandi ntigasharira, iyo ukavuguse, ukakanywa ntigasharira karakuryohera cyane.

Voka ebyiri, imwe isatuye n'idasatuye, ziri hagati y'isabune n'igikakarubamba, hasi ya voka ariko ku gikakarubamba hari amagambo ngo "ubuziraherezo," hejuru hari amagambo ngo "voka isura n'isabune yo gukaraba."

Icupa ry'umweru umufuniko w'umweru rifite ikirango cy'amaba y'ubururu n'umweru, ku kirango mu ibara ry'umweru harimo inuma iri kuguruka yanditsemo amagambo ngo ubuziraherezo, inyanja ya Artictic mu ibara ry'ubururu handitseho ijambo ubuziraherezo n'andi magambo matoya.

Imiti gakondo iba irimo ubwoko bwinshi. Hari iyo usanga barayipfunyitse mu macupa. Maze bakayijyana bakayishyira abayikeneye. Uba usanga ari ifu y'ibyatsi cyangwa imizi baba baragiye bumisha kubera kuyanika maze bakayisya bagakuramo agafu bagashyira mu amacupa bakagaha abantu bakajya bakoresha bagakira.

Hari ibyatsi byinshi bikoreshwa mu buvuzi, aho iyo ubikoresheje usanga indwara wari urwaye zikira, ndakwinginze aho kugira ngo ujye wirukanka ujya kugura ibinini, ahubwo ujye ureba ibyatsi bikwegereye nk'igikakarubamba n'ibindi maze ubikoreshe.

Imiti gakondo myinshi yanitse ahantu hasi, imbere yayo hari umunzani n'utubuye bakoresha kuri uwo munzani, ku rundi ruhande hari ahateretse utuntu tumeze nk'utubase duto tugiye turimo imiti gakondo y'ubwoko butandukanye, ubona ko iri gutegurwa ngo izahabwe abantu.

Umuti ukoreshwa cyane mu kuvura ibicurane n'izindi ndwara zo mu myanya y'ubuhumekero, witwa umuravumba. Akenshi iyo uwunyweye wumva umeze nk'usharira, ariko nyuma y'igihe gito uwukoresheje ni bwo wumva ibyiza byawo.

Agacupa karimo umuti wisigagwa nk'amavuta ariko ukozwe mu bimera gakondo, ni umuti mwiza cyane ku buryo iyo uwukoresheje ku ruhu rwawe rugenda rumera neza. Nawe uzabikore, uwisige uzatanga ubuhamya.

Imiti gakondo iba iri mu bwoko bwinshi, hari iba imeze nk'amapomade basiga ku ruhu, iba ikoze mu gikakarubamba n'ibindi byinshi bitandukanye ariko gakondo, iyo miti iyo uyikoresheje irakuvura kuko irimo amavuta ndetse n'amasabune wakaraba.

Mu nzu isize irangi ry'umuhondo mu nguni harimo icyuma gikoreshwa mu gukonjesha ibintu, impande yacyo hari umugore ufite imisatsi y'umukara izirikiye inyuma wambaye itaburiya isatuye y'umweru y'amaboko magufi, inyuma ye hari intebe y'ubururu iteye imbere y'ameza maremare, inyuma y'iyo ntebe hari utubati tubiri turimo amacupa menshi y'ubwoko butandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ahagaze atumbereye ibumoso bwe, inyuma ye hari abantu benshi harimo umukobwa wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare n'ijipo ya kake, inyuma ye hari umugore wambaye umupira w'umutuku, uteza n'igitambaro mu mutwe, uwo mugabo impande ye hari agatara gateretseho impapuro zipfunyikwamo ibintu, imbere y'izopapuro hari amacupa y'umweru afite imifuniko y'umuhondo.

Umurima utewemo ibikakarubamba byinshi, imbere hari igikakarubamba cyakuze. Inyuma hari ibikakarubamba bito, hagati mu muririma w'ibikakarubamba hari n'igiti kirekire gifite amashami atatu, agiye abaho amababi menshi .Hejuru mu kirere inyuma harimo ibicu bifite amabara menshi umweru n'ubururu, hirya bigaragara ko hari kurasira n'izuba.

Ku muryango hari umuti watoranyijwe urazanwa, ubasha kuvura indwara zirimo kurangiza vuba no gucika intege mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, abantu benshi ariko bakunda kuyikoresha kuko baba bashaka kwikuraho ingaruka batewe no kwikinisha ndetse bashaka no kwivura ibijyanye no kurangiza ...

Ibikarito biri ahantu hamwe ku ruhande rwabyo hari imineke naho hagati y'ibyo bikarito harimo inanasi ikiri nzima idatonoye iruhande rw'iyo nanasi n'ikarito hateretse uburabyo naho imbere hari igikarito kirekire gifite ibara ry'ubururu cyanditseho ngo jowe oferi, naho impande yaho hari ikindi cyanditseho ngo nibusali.

Igikakarubamba ni umuti mwiza kandi iyo tuwukoresheje uratuvura. Ndabizi, hari abantu batawukoresha ntibabimenye. Nyamara igikakarubamba cyakuvura ukabaho neza, uramutse ugikoresheje mu miti yawe ya buri munsi.

Umuti w'amavuta usigwa ku ruhu, uba urimo ubuki iyo uwusize ku ruhu rwawe umera neza. Uba uri mu gacupa k'umweru, gafite indiba y'iburyo bw'uruziga n'umufuniko w'uruziga w'umweru. Ni keza, karusukuye ndetse n'umuti uba urimo uravura cyane.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru ririho ikirango cy'umutuku n'umweru. Mu ibara ry'umweru hagati handitsemo ijambo Reshi. Hejuru y'icupa handitse ngo: ''Igisubizo kuri Amide.'' Hasi y'icupa haranditse ngo Reishi ni yo yonyine ishobora guhangana na Amibe ku kigero cyo hejuru. Hirya y'icupa no hino hari ibishushanyo bitandukanye, kimwe kigaragaza amara, ikindi kigaragaza umuntu afashe undi mu kiganza.

Ibinini bibikwa mu bwoko butandukanye, hari ibipfunyikwa mu macupa n'ibindi biba biri mu dukarito, hari rero ibyo mu dukarito ni byo byiza kuko bifasha kurinda ko umwanda wabigeraho kandi bikagumana ireme.

Ibinini icumi biri ku murongo biteganye bibiri bibiri birambitse munsi y'icyapa gishushanyijeho amagambo y'ibara ry'umukara ngo foreva arewutamu, hejuru hariho inuma iri kuguruka naho hirya hari ikibabi cy'igikarubamba ahagana hirya gato ya y'amagambo y'umukara

Hari ibyatsi cyangwa se ibindi byifashishwa mu miti gakondo bapfunyika mu macupa. Bwa mbere na mbere, ayo macupa akenshi usanga ari ayo batoraguye, maze bakagenda bakayasukura maze bagashyiramo iyo miti.

Ku ruhande rw'ibumoso hari amababi y'igikarubamba ahagaze n'aho ku ruhande rw'iburyo hari amababi y'igikakarubamba asatuye, hagati y'ayo mababi hateretse icupa ry'umuhondo rishushanyijeho imibu iri kuguruka, rifite umufuniko utukura.

Amacupa maremare afite imifuniko y'icyatsi n'ubururu, hariho ibipapuro biyapfunditse hagati kuri buri cupa biriho amagambo y'umukara, ariko ibipapuro byo ni iby'umweru imbere harimo ibintu bisukika biri mu mabara atandukanye.

Igikakarubamba ni ikintu kiza kifashishwa mu kuvura. Abantu benshi ntibabizi ariko buriya imiti myinshi dukoresha kiba kirimo cyane cyane iy'indwara z'uruhu. Hari abantu rero bafashe umushinga wo guhinga ibikakarubamba kugira ngo bige bivamo imiti ivura. Hari abasuye uwo murima biganjemo abambaye imipira y'icyatsi y'amaboko magufi ifite amakora.

Ibihoho bipakiyemo itaka hagemetsemo imbuto ndende. Imbere zirasa neza ariko ntabwo zisa icyatsi, ahubwo zifite ubwiganze bw'ibara ry'umuhondo. Ziri ku zuba, inyuma yazo hari ibyatsi. Mu gihoho kiri ahagana imbere cya kabiri uturutse iburyo, hariho agapapuro kanditseho amagambo y'umukara.

Mu kidahisho kinini gikoze mu giti, gifite isura ifite ishusho nk'iy'umuvure, harimo ibinini, ibindi biri hasi birambitse impande yacyo, ibyo binini bifite ibara ry'icyatsi, bifite kandi ishusho ikoze mu buryo bw'uruziga.

Ni umukobwa ubumbatanyije amaboko, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru ufite ingofero. Yiteze agatambaro karirimo amabara y'ubururu n'umweru, impande ye iburyo hari umusaza wambaye umupira w'umutuku n'ikote ry'umukara inyuma uri hagati y'amashami y'ibiti, inyuma yabo bose hari ishyamba ry'ibiti.

Icupa ry'umweru ririho umufuniko w'umweru n'ikirango kiri mu mabara y'umukara n'umweru, amagambo yanditse ku kirango ari mu ibara ry'umukara n'umweru. Ni icupa rifite indiba nini ugereranyije no hejuru ku mufuniko.

Imiti gakondo ni myiza tujye tuyikoresha, kuko buri gihe iyo tuyikoresheje iratuvura. Hari abantu baba batabizi ariko iriya miti ni myiza kandi iravura cyane, tujye tuyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikombe bibiri by'ibirahure bituretse ku meza y'umweru kimwe kirimo amazi arimo umuravumba, ikindi kirimo umuyenzi, inyuma y'ibyo bikombe hari umuravumba ufite amababi atatu, naho ahagana hagati imbere harambitse ibabi ry'umuyenzi.